Umwana mutoya uvoma ahabugenewe ho kuvomera mu gikoresho kiwe cy'imbegeti ariko bikagaragara ko nta suku ihagije ihari bikenewe ko hagomba gukuburwa, hakanatunganywa nk'ahantu hagenewe kuvomwa amazi yo gukoresha ibikorwa bitandukanye.

Gufasha abana bari munsi y'imyaka itanu cyangwa se batoya kugira ngo batarwara indwara zituruka ku mirire mibi cyane cyane,

Umuco wo gutoza no kwigisha abakiri batoya gukaraba intoki, cyane cyane bakoresheje amazi meza n'isabune, mu buryo bwo gusigasira ubuzima bwabo.

Uburyo bwo kujyana abana bakiri batoya kwa muganga ndetse n'amashami yo kwa muganga, kugira ngo bakingirwe inkingo z'indwara zitandukanye nk'imbasa, korona virusi n'izindi zitandukanye.

Inama yahuje abayobozi n'abakuriye ubuzima mu nzego zitandukanye, abaforomo, abaganga, biga ku kibazo cy'ubuzima ndetse n'uburyo hashyirwaho ingamba zo kurengera ubuzima bw'abaturage.

Umubyeyi ufite umwana ukiri mutoya, uri kumwe n'umuganga aho yamuzanye kugira ngo amusuzume kandi amuvure indwara z'umwihariko zo mu kanwa, harimo nk'ururimi, ishinya ndetse n'amenyo.

Umuganga urimo gukingira umwana ukiri mutoya uri munsi y'imyaka itanu, aho ahabwa urukingo rwiseru cyangwa se Korona virusi kugira ngo atazarwara mu buzima bw'iwe.

Uburyo bwo gusukura bimwe mu bice byacu by'umubiri cyane cyane by'umwihariko ibyo dukunze gukoresha ibiganza n'intoki, dukoresheje amazi meza aturuka mu masoko aho dukorera n'aho dutuye.

Gahunda ya Leta y'u Rwanda yo guha cyane cyane abakiri batoya imiti ibarinda inzoka, irimo nk'ibinini ndetse n'ibitonyanga, aho bajyanwa ku bitaro cyangwa se ibigo nderabuzima bibegereye bagahabwa iyi imiti mu buryo buboneye.

Amahugurwa afasha abanyabuzima ndetse akanabakangurira gukurikirana ubuzima bw'abaturage, cyane cyane abo mu bice by'icyaro kuko usanga batazi ibijyanye n'ubuzima bwabo, bityo bikabafasha mu guteza imbere ubuzima.

Gutunganya no kwegereza amazi abaturage, aho abakenewe mu buzima bwabo bwa buri munsi cyane cyane ibikorwa by'isuku, ku kumesa, gukaraba, no guteka.

Umwana mutoya uvoma amazi areka hasi cyangwa se y'umugezi uranda hasi, ayo mazi akaba atari meza bikaba byanateza zimwe mu ndwara zirimo impiswi n'inzoka zo mu nda.

Ubukangurambaga ku bafite ingo ndetse n'abashakanye, buganisha ku buzima bwiza gahunda zo guteza ubuzima bwiza imbere cyangwa se n'umuhate wo kongera ubuzima bwiza mu baturage.

Igikorwa cyo kwita ku bana, babakingiza indwara zitandukanye, cyane cyane iz'ibyorezo nk'imbasa, mugiga, Corona virus n'ibindi byorezo bitandukanye, aho ababyeyi n'abahagarariye abana muri rusange, bazana abo bana kwa muganga ndetse n'umunyabuzima runaka, akabatera inshinge bagakira neza.

Isoko y'amazi, aho mu butaka hacukurwa, hakoherezwayo imipira, ikazamura amazi yaretse mu butaka, ikayageza hejuru, abaturage bakayavoma, bakayakoresha mu bikorwa byabo birimo guteka n'amasuku atandukanye.

Isesengura n'itangamakuru ku bijyanye n'ubuzima n'uburyo bwitabwaho, nk'ubwo mu mutwe, uburyo abaturage bitabwaho ubwabo, uburyo bw'imivurire bw'indwara barwaye ndetse n'ubuzima bw'imyororokere, ibikorwa kugira ngo burindwe.

Igihe ababyeyi bajyana abana babo bagifite imyaka mitoya kwa muganga cyangwa se ku kigo nderabuzima, bakabitaho babakingira mu gihe cyabo cy'imyaka mitoya, kugira ngo batazandura bimwe mu byorezo ndetse n'indwara, bagifite iyo myaka bikazabakuriramo kugeza bakuze.

Aho abanyeshuri b'ikigo runaka, baza kunywa amazi ariko mu buryo bwabateza ibyago, birimo nko kugerwaho zimwe mu ndwara zituruka ku mwanda, nka amibe n'inzoka zo mu nda muri rusange.

Inyigisho zihabwa abakiri bato cyangwa se urubyiruko muri rusange, zigamije kuba bazitanga mu bandi baturage b'igihugu ku buryo bateza imbere ireme ry'ubuzima.

Inama nyunguranabitekerezo, ku bijyanye n'ubuzima bw'abaturage b'ibihugu, cyane cyane icy'u Rwanda, hagamijwe gukangurira no kuzana imiti itandukanye ku burwayi bwibasira abaturarwanda.

Gahunda y'ibikorwa remezo cyane cyane ibijyanye n'amazi, isukurwa ryayo ndetse no kuyageza ku baturage mu bice byose by'Igihugu, mu buryo buboneye.

Igihe cyo gupimisha abana bari munsi y'imyaka cyane cyane itanu, harebwa ibiro byabo n'ingano yabo, niba bakura neza cyangwa se badakura mu buryo bukwiye; kugira ngo bafashwe bakure mu buryo bwuzuye.

Umwana ukiri mutoya, aho yishimira gukaraba amazi yo ku isoko kimwe mu gice kimwe cy'umubiri, ku mutwe, aho bimutera akanyamuneza kumva agize ubukonje n'akabeho mu gihe cy'izuba.

Inama yabereye imbere mu gihugu, mu kwezi kwa Cumi na kumwe muri bibiri na makumyabiri na gatatu, yiga ku kibazo cy'ubuzima, aho bimwe mu bikoresho bivamo imiti ikoreshwa mu buzima, yaza iva mu gihugu aho kuva hanze y'igihugu, bakaniga ku buryo amafaranga n'ibindi byose baza babyishakamo aho kubishakira hanze.

Abaturage babiri umwe w'umugabo arimo asukura cyangwa yoza igikoresho gikoreshwa mu gutwara ibintu bitandukanye igare n'umugore uri kuvoma amazi ajya gukoresha mu bikorwa by'iwe, byiganjemo isuku ndetse no gutekesha.

Abana batandatu barimo baranywa amazi ariko agaragara nk'aho adatunganye neza kuko aturuka mu kigega cy'amazi ariko adatetse, ibi bikaba byatera indwara z'umwanda, cyane cyane izo mu nda.

Igikorwa cyo gufasha abana, bari hagati y'umwaka umwe n'imyaka itatu, kugira ngo batarwara indwara zituruka ku mirire nkene, zirimo nka bwaki, ibi bikorwa binyuze mu kubaha amata.

Imashini n'ibyuma byabugenewe by'ikoranabuhanga, irusha kuyungurura imiti itandukanye yo kujyana ku bigonderabuzima, mu bitaro no mu bice byose by'igihugu kugira ngo bikoreshwe mu kuvura.

Abarwayi bagaragara ko bakuze biganjemo igitsina gore n'abasaza, aho baza kwa muganga baje kwivuza indwara zabo zitandukanye, bagakora urutonde n'umurongo hagendewe ku waje mbere, bagafata imiti mu buryo bwihuse.

Umwana ukiri mutoya, uri ku itiyo cyangwa se isoko y'amazi, avoma amazi anakaraba ku ntoki mu buryo bw'isuku, nyuma amazi yavomye ayajyana mu rugo mu kuyakoresha, haba guteka ndetse n'ibindi bikorwa bitandukanye by'isuku bya buri munsi.

Gusuzuma abarwayi cyane cyane barwaye malariya, binyuze mu byuma by'ikoranabuhanga, ndetse bagakoresha bimwe mu bice byabo by'umubiri nk'akaboko, aho umushyira icyuma ku kaboko, kigapima binyuze mu magufwa ye no mu mitsi ikibazo kikagaragara.

Umuryango mpuzamahanga ushinze kwita no kurengera abana mu bihugu bitandukanye, yaba ibyo muri Afurika, iby'i Burayi, muri Aziya no mu yindi migabane yose y'isi.

Ishusho mbonera yerekana uburyo uburinganire bwagiye buzamuka mu myaka itandukanye. Ku mwaka wa bibiri na cumi n'umunani yari mirongo itanu na gatanu ku ijana, muri bibiri na cumi n'icyenda mirongo irindwi ku ijana, muri bibiri na makumyabiri mirongo irindwi na gatandatu kw'ijana na mirongo irindwi n'icyenda ku ijana muri bibiri na makumyabiri na rimwe.

Uburyo bwo kuvura indwara zimwe na zimwe ku banyabuzima b'igice runaka, aho abaturage bashobora kwihutira ku bufasha bw'ibanze bubegereye, ku banyabuzima, bityo bigatuma ubuvuzi buhabwa vuba na bwangu.

Umwana w'umuhungu ukiri mutoya ndetse na bagenzi biwe. Aho ari kuvoma amazi ku isoko mu gikoresho kiba cyabugenewe kizwi nk'igaro cyangwa se ijerekani. Akayajyana mu rugo kuyakoresha mu bikorwa bitandukanye, byiganjemo iby'isuku, kuyanywa no kuyateka.

Inama y'ikigo gishinzwe ubuzima mu Rwanda RBC, igamije gutangirwamo inyigisho ku buzima bw'abamama cyangwa se abari n'abategarugori ndetse n'abana.

Abaturage bari ku isoko y'amazi, aho yanyujijwe mu mipira yabugenewe, bityo bakayavoma bakoresheje amajerekani, bakayajyana kuyakoresha mu ngo zabo cyangwa aho bakorera.

Umuyoboro w'amazi, uyavana ku isoko cyangwa aho afatanyije n'andi, ukayazana ku itiyo, abaturage bavoma amazi, bakajya kuyakoresha mu bikorwa byabo, byiganjemo iby'isuku no guteka.

Kwimakaza umuco wo gukaraba ku ntoki, aho amazi n'isabune bikoreshwa mu koza intoki, muri buri gikorwa cyose umuntu agiye gukora, akoresha iminota yibura nk'itanu yoza intoki.

Abajyanama b'ubuzima, aho bishimira nyuma yo guhabwa amabwiriza n'inyigisho ziturutse ku nzobere z'ubuzima ndetse n'abayobozi ku bijyanye n'ubuzima bityo bakishima, bakagirana urugwiro mu byo bahawe kandi biturwa no kubikurikiza.

Abana babiri bari kuvoma amazi. Aho umwe ajya ku gikoresho cyabugenewe akakicaraho, mu buryo bwo kugira ngo akurure amazi aturuka mu kuzimu, akanyura mu mupira, aho undi ayavoma mu gikoresho kiwe cyabugenewe, akajya kuyakoresha.

Gukora ubuvuzi ku bana bakiri batoya bafite ibikomere biturutse ku bushye cyangwa se n'ibindi byuma byaba byabangije bagahambirizwaho imiti ku mubiri wabo kugira ngo bakire vuba.

Umunyeshuri wikigo cyo mu Rwanda, aho yambaye impuzangano, akaba ari kunywa amazi aturuka ku isoko yashyizwe mu kigo, binyuze mu mupira, aya mazi akaba agaragara ko ayanywa mu buryo budasukuye.

Raporo Mpuzamahanga y'ibijyanye n'ubuzima, ndetse n'uburyo Ibihugu ababigize bagenda bahura n'ikibazo cy'ubuzima. Aho bagaragaza ko mu bihugu bikize cyangwa mu bikennye, abagore n'abavuka bashya ari bo bagirwarwaho n'ingaruka zikomeye.

Umugore uri gukaraba iwe mu rugo, akoreshejwe ikizwi nka kandagira ukarabe, muri gahunda yaho buri muturage wo mu Rwanda agomba kugira iki gikoresho mu kugira isuku, cyane cyane nyuma yo gukora ibikorwa bitandukanye, nko kuva ku bwiherero, kujya kugaburira umuryango ndetse no kujya guteka mu buryo bw'isuku.

Umwana mutoya urimo gukaraba ku ntoki hakoreshejwe igikoresho kizwi nka kandagira ukarabe, kiba gifite igikoresho cy'indobo kirimo amazi akagira aho akanda ubundi amazi akaza agakaraba ku ntoki ziwe.

Aho abayobozi n'abashinzwe ubuzima mu nzego zitandukanye basuye abana batoya biga mu myaka yo hasi y'ibanze, bakababwira banabaganiriza ku bijyanye n'imibereho yabo, bigamije kubafasha mu buzima bwabo cyane cyane bw'ahazaza.

Umwana w'umuhungu ufite ibivomesho bitatu bizwi nk'amajerekani, aho ari ku itiyo kuvoma binyuze mu ayo makurutu cyangwa se amajerekani, aho ayajyana mu rugo cyangwa se ahakorerwa akazi gatandukanye, mu kuyakoresha mu bikorwa by'isuku ndetse no mu bindi.

Gahunda y'urugendo rw'ikigo mpuzamahanga, kikaba n'umuryango ushinzwe kwita ku bana bakiri batoya, igamije kubarinda ihohotera ndetse n'imirimo mibi ibakorerwa.

Gupima abana bakiri batoya cyangwa se b'impinja, hagamijwe kureba ibijyanye n'imikurire yabo mu mezi yabo ya mbere y'ubuzima bwabo, uburyo bafashwa habaye hari ikibazo cy'imikurire.

Umuganga uri gukingira umugabo usa n'aho akuze indwara y'icyorezo, ashobora kuba ari Kovide cumi n'icyenda cyangwa se Korona virusi, mu buryo bwo kugira ngo itamuzahaza nk'umuntu mukuru ndetse no gusigasira kuba yakanduzwa ku bandi.

Umuganga wambaye impuzangano, urimo gutanga urukingo rw'inkondo y'umura ku mwana w'umukobwa ufite imyaka cumi n'ibiri, uburyo bwo kumurinda iyi ndwara mu buzima bwiwe bwose kugeza igihe buhereje.

Kuvoma amazi, binyuze mu itiyo ryacukuriwe munsi mu butaka, noneho umupira ukanyuzwa mu butaka uvana amazi munsi ukayageza hejuru, aho abaturage batandukanye bayavoma, bakajya kuyakoresha mu bikorwa byabo byiganjemo iby'isuku n'imirire.

Abana bane bagaragaza ko bishimiye umuntu mukuru urimo kubakarabya intoki zabo, mbere yo gukora ibikorwa bitandukanye, cyane cyane nko kurya no kunywa ibintu bitandukanye.

Abana babiri barimo gukarabya intoki zabo, ku itiyo cyangwa se ku isoko y'amazi, mu buryo kugira ngo isuku yabo yo ku ntoki, cyangwa se y'umubiri muri rusange, ikomeze isigasirwe, harindwa zimwe mu ndwara zishobora kototera, binyuze mu isuku nkeya, cyane cyane iyo ku ntoki.

Isoko y'amazi, aho mu butaka hacukurwa hakareka amazi, akayungururwa binyuze mu mupira yabugenewe, abaturage bakayavoma bakajya kuyakoresha mu bikorwa byabo, byiganjemo iby'isuku no guteka hamwe no kuyanywa.

Isoko y'amazi izwi nk'itiyo ifite ikuzimu hacukuriye cyangwa se hafukuye harekamo amazi akazamuka ayungururwa akavomwa ameze neza.

Umugore uri gukingirwa na muganga, aho afata urushinge n'umuti byabigenewe, akarumutera mu kuboko kwiwe cyangwa ku gitugu cyiwe cy'ibumoso, kugira ngo indwara cyangwa se icyorezo gikire burundu.

Inyigisho ziturutse ku bayobozi bo mu nzego zo hejuru z'ubuzima, zihabwaga abanyabuzima bo mu Rwanda, hagamijwe gukangurira abaturage no kubahwitura ndetse bahabwa n'imiti itandukanye mu bufasha bwabo bw'ibanze bwa buri munsi.

Abaganga n'abafasha babo, mu mpuzangano zabugenewe, barimo gupima no gusuzuma umurwayi, hakoreshejwe gufata amaraso, hanyuma hakarebwa indwara iri muri ayo maraso.

Imirimo yo gukoresha ibikoresho bitandukanye byabugenewe, gutegesha amazi, ajyanwa gukoresha mu isuku y'umubiri, ibiribwa, imyenda ndetse nahantu dukorera.

Uburyo bwo gukaraba intoki kuri buri muturage wese, binyuze mu gikoresho kitwa kandagirukarabe, gikorwa n'umuntu ku giti cyiwe, haba mu rugo ndetse n'aho akorera, iki gikoresho gikoreshwa igihe umuntu avuye ku bwiherero ndetse no mu bikorwa byose bituma akoresha intoki mbere yuko ajya mu bindi bikorwa abanza kugikoresha.

Abayobozi babiri barimo basuhuzanya, muri gahunda yo kwishimira uburyo ki u Rwanda rwatsinze rukanarandura burundu, icyorezo cy'Ubushita bw'inkende buzwi nka Marburg.

Inama yahurije hamwe abayobozi n'abaturage bo mu nzego zitandukanye, haba abo mu nzego z'umutekano ndetse n'inzego z'ubuzima, hagamijwe kurebera hamwe ibibazo bibangamiye abaturage cyane cyane iby'ubuzima n'uburyo byasobanuka.

Abaganga bambaye impuzangano zirimo amataburiya maremare, ga cyangwa se ibyo bambara mu maboko, udupfukamunwa ndetse n'ibifunga umutwe, bari kuvura umurwayi ufite ikibazo cyo mu kanwa kirimo nk'amenyo kuyakura ndetse n'izindi.

Uburyo bwo kuvoma amazi y'amarekano, aturuka ku mvura akajya mu butaka, akareka abaturage bakayavoma, bene aya mazi aba ari mabi ntabwo aba asukuye.

Umuhanga wavuze uburyo ki tugomba kwifashisha n'abandi bantu badufasha mu bijyanye n'ubuzima, bityo tukabasha kugera kuri buri kimwe cyose kijyanye n'ubuzima.

Ihuriro Mpuzamahanga ryiga ku bijyanye n'ubuzima, aho abaturuka mu bihugu bitandukanye, bahagarariye ubuzima muri ibyo bihugu, baterana bakiga ku bisubizo n'ibibazo bibangamiye ibihugu byabo ku birebana n'ubuzima n'ingamba zo kubikemura.

Inama y'abaturage n'abayobozi, aho bateranira hamwe kugira ngo bige ku bibazo hagati y'abaturage ubwabo ndetse na leta muri rusange.

Aho abaturage baza kuvoma amazi asukuye, binyuze mu gucukura munsi, akareka, akanyuzwamo imipira iyazamura hejuru, abaturage bakayavoma bakajya kuyakoresha mu bikorwa byabo bitandukanye.

Gahunda yo kwamamaza no kumenyekanisha Igihugu cy'u Rwanda, izwi nka sura u Rwanda cyangwa se Visit Rwanda mu ndimi z'amahanga, gahunda ikaba ari iyo kugira ngo abanyamahanga bamenye u Rwanda, mu nguni zose.

Inama y'imbere mu gihugu cy'u Rwanda, yabaye ku itariki ebyiri n'eshatu muri bibiri na makumyabiri na gatatu, mu kwezi kwa cumi na kumwe, ikaba yaribandaga ku bibazo ndetse n'ibyakorwa kugira ngo ubuzima bw'Abanyarwanda buzamuke ndetse bunashimishije.

Umurwayi ugaragara ko ari umugore ufite ikibazo cyo kubyara, ari kumwe n'umurwaza we, akaba yitabwaho na muganga, aho amusuzuma akoresheje igikoresho cyumva kikashyikira ubuzima bwiwe bwo mu nda n'ubw'umwana atwite muri rusange.

Abagore babiri n'umugabo umwe, barimo gukusanya ibikomoka ku buhinzi, cyane cyane ibinyampeke nk'umuceri, bigomba kugemurwa ku masoko atandukanye kugira ngo abatabifite na bo babibone biturutse ku bahinzi.

Agakoko gatera indwara, cyane cyane nk'indwara z'ibyorezo, zifata abantu zibibasiye, biturutse ku guhanahana, ku muntu umwe bijya ku wundi.

Gahunda y'Igihugu cy'u Rwanda yo kuzamurana ku baturage n'abayobozi izwi nka turi kumwe, aho bivuze ngo buri umwe wese ntagomba gusiga undi haba muri gahunda z'ubuzima cyane cyane muri gahunda z'imibereho y'akazi ka buri munsi n'ibikorwa by'iterambere.

Gahunda y'ikigo gishinzwe ubuzima mu Rwanda kizwi nka arabisi yo kwita ku buzima bwo mu mutwe bw'abatarengeje cyane cyane imyaka makumyabiri, mu gihe cya kovide cumi n'icyenda na nyuma y'aho.

Ingaruka z'agahinda gakabije aho umuntu mukuru ashobora kugira umubabaro udasanzwe bitewe n'ibibazo byo mu mutwe bitandukanye bikamuzanira bimwe byo kurira kandi bishobora no kwangiza ubuzima bwe.

Umwari cyangwa se umutegarugori, ugaragara nkaho afite imyaka yo mu zabukuru, ariko itari myinshi cyane, ucuruza imwe mu miti itandukanye ivura indwara zo mu buzima busanzwe bwa muntu.

Abaturage b'ingeri zose yaba abakuru n'abatoya bafite ibendera mu ntoki bagenda berekana ko bemeranya n'ubuyobozi, ndetse na gahunda z'igihugu zibakorerwa.

Abana bakiri batoya bagaragara bafite agahinda, biturutse kuba bafite ibibazo birimo nk'imirire cyangwa se kutabona ibigaburirwa mu gihe cyabo bashonje, ibi bigatuma bagaragara nk'aho bafite ubuzima bubi bw'ibyago ndetse n'ibibazo.

Uburyo bwo gufasha abana bakiri batoya, aho umunyabuzima abwira umuturage cyangwa se akamukangurira mu kuzana umwana wiwe akamupima indwara cyane cyane iziganje nk'iz'imirire hagamije gushishikariza ndetse no gukomeza imirire myiza ku bana.

Isura mbi ku bafite ikibazo cy'ubuzima bwo mu mutwe, abasazi, aho bagaragarana umwanda no kutitwara neza nk'aho batari n'abantu.

Gahunda yo kwerekana no gushyira ku mugaragaro ikigo nderabuzima gishinzwe kwita ku buzima bwo mu mutwe, mu karere ka Bugesera mu Ntara y'Iburasirazuba.

Ikigo cy'igihugu cy'u Rwanda gishinzwe abana ndetse n'abagore bahohotewe cyangwa se bafashwe ku ngufu, bityo bakarenganurwa.

Aho abayobozi ndetse n'abahagarariye ubuzima mu bice bitandukanye, basura abanyeshuri b'amashami y'ubuzima ,kugira ngo babaganirize ku bijyanye n'ubuzima n'uburyo bateza imbere uburezi n'ubumenyi ku buzima bwa muntu.

Ikiganiro rusange kigamije kuzamura imibereho myiza y'abaturage, hibandwa mu kubereka no mu kubaha inama zitandukanye z'ubuzima bwabo bwite.

Uburyo ubuvuzi bw'ubuzima bwo mu mutwe ku baturage b'u Rwanda bukorwa. Kuva ku ntara kugera ku karere ndetse no ku bigo nderabuzima n'uburyo abaganga babugenewe bita kuri aba baturage.

Imibereho mibi biturutse ku mirire mibi, nta ndyo yuzuye, higanjemo ibitera imbaraga, ibyubaka umubiri ndetse n'ibirinda indwara, ibi bituma umubiri w'umuntu utamererwa neza mu buryo agaragara n'imikorere ndetse n'imitekerereze ye.

Gutanga uburere ku bana bakiri batoya, aho bahurizwa hamwe bakigishwa, bakanasangira ifunguro, bigishwa umuco n'uburere mu myaka yabo mitoya.

Gahunda y'ubukangurambaga bw'imbere mu gihugu cy'u Rwanda, yo gushishikariza Abaturarwanda ndetse n'Abanyamahanga b'inshuti z'u Rwanda, ndetse n'abagana u Rwanda. Ko ihohoterwa rigomba kuranduka, n'igisa n'ihohoterwa cyose, haba Rwanda no ku Isi hose muri rusange.

Umuntu ugaragara nk'aho afite agahinda gakabije, biturutse ku bibazo byo mu buzima bwiwe, ahari wenda ari ukuba mu umuryango we, cyangwa se aho akora bya buri munsi, bishobora kuba byamugizeho ingaruka mu buryo bumwe cyangwa ubundi.

Umubyeyi ufite abana babiri batoya, harimo uwo ahetse n'undi umuri impande, uri guteka igikoma cyo kubaha kugira ngo bagire ubuzima bwiza, bityo bakabasha gukura n'ejo habo hazaza, nta kibazo cy'imirire kibijemo.

Umuryango ushinzwe kubaka amahoro muri sosiyete ndetse n'ubutabera muri rusange. Uyu muryango uharanira iterambere n'amahoro birambye mu banyarwanda ndetse n'inshuti z'u Rwanda.

Ukwegera abafite ikibazo cyo mu mutwe, gishobora kuba cyaturuka ku ihungabana, bari nk'abasazi badakaraba, batiyitaho, badafite n'ababitaho, bateza ikibazo cy'umwanda, hagamijwe kubaha ubufasha bwabavana mu kibazo bagahinduka abantu bazima.

Ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima bwo mu mutwe ku baturage ndetse n'abandi bose bafite ikibazo cyo mu mutwe, iki kigo gishinzwe kugenzura ndetse no kwita ku buzima bujyanye no mu mutwe.

Inzobere mu buzima bw'imitekerereze no mu mutwe muri rusange, aho ibwira abaturage n'abantu bose ku kijyanye no gusigasira ubuzima bwo umutwe cyane cyane ko ku munsi mpuzamahanga wahariwe gusigasira ubuzima bwo mutwe, ku bagize ibikomere byaturutse kuri jenoside bagasigasirwa, bityo ubuzima bwabo bukaba bwiza.

Umucuruzi wigenga, ucuruza bimwe mu bikomoka ku buhinzi, harimo sositomate cyangwa se umuti w'inyanya, ibikomoka ku buki birimo nk'umuti uvura uruhu rw'umuntu ndetse n'ibirungo bikoreshwa mu guteka.

Umuntu ugaragara ko ari igitsina gabo, ufite ikibazo cyo mu mutwe, akagaragara nabi binyuze mu kuba nta suku y'umubiri, kandi atanayobora ubuzima bw'iwe uko bikwiye.

Kuba hafi y'abagize ikibazo cyo mu mutwe cy'agahinda gakabije, kuko baba bumva baremerewe kandi bakagira ikibazo cyo kwiyumva ko bari bonyine, ibi bishobora gutuma bagira uburyo biyahura cyangwa se bakiyangiza.

Abanyeshuri biga muri kaminuza, bahabwaga amabwiriza ndetse n'inyigisho zerekeye ubuzima mu kazi kabo n'amasomo yabo bakomeje, binyuze mu nzobere n'abarimu batandukanye.

Abari muri gahunda yo kubungabunga ubuzima bwo mu mutwe, yabaye ku itariki makumyabiri n'imwe z'ukwezi kwa cumi na kumwe bibiri na makumyabiri, yari ifite insanganyamatsiko igira iti: Ubuzima bwo mu mutwe buratureba twese.

Akanyamuneza kagaragara ku mwari cyangwa se umutegarugori wishimye, yerekana ko afite ubuzima bwiza ntakibazo afite atuje, anishimye.

Umunsi Mpuzamahanga wo kwita ku buzima bwo mu mutwe cyane cyane wabereye mu Rwanda ku bufatanye n'ikigo gishinzwe ubuzima mu Rwanda RBC, aho hafitwe insanganyamatsiko igira iti twite ku buzima bwo mu mutwe tubishyire imbere.

Ihuriro ry'umwihariko, aho abayobozi batandukanye, bo mu nzego z'ubuzima bahura n'abari munsi yabo, cyangwa se abanyeshuri, bakabaganiriza ku kijyanye n'ubuzima, n'icyakorwa kugira ngo ubuzima na gahunda yabwo, bukomeze gutera imbere.

Gahunda yikigo cyangwa se umuryango uharanira ubuzima bwa muntu, cyane cyane bwo mu mutwe, ko buri muntu, aho ari hose n'uwo ari we wese, afite uburenganzira bwo kurindwa ubuzima bwo mu mutwe bwo kwitabwaho, bwo kumva ko afite ubwigenge, ndetse no kugira abo adahezwa.

Ikigo gikuru gishinzwe ubuzima bwo mu mutwe, giherereye mu mujyi wa Kigali, muri gahunda yo gushishikariza abantu bose ko ku munsi wa gatatu no ku wa gatandatu ari umunsi wo kwita ku barwayi bafite ubuzima butagenda neza bwo mu mutwe.

Umugore ugaragara ko ubwonko bwiwe butakiriye neza ikintu giturutse hanze runaka bityo akacyakira ababaye atishimye, mu buryo bw'umujinya ndetse ibi bikaba byatuma bimugiraho ingaruka z'agahinda.

Uburyo bwo gusukura amenyo hakoreshejwe akagozi keza kabugenewe, aho kanyuzwa hagati y'iryinyo n'irindi, mu kuvanamo ibisigazwa by'ibiryo byasigaye mu menyo, bityo bigatuma amenyo adashobora kugira ikibazo cy'umwanda biturutse ku byo umuntu aba yariye.

Inyubako igaragara ko ari ndende, yagenewe gukorerwamo inzobere n'abashakashatsi ku kibazo cy'amenyo, aho abarwayi batandukanye bo mu gihugu bafite ikibazo gikomeye cy'amenyo, bashobora kubonera ibisubizo.

Koza amenyo hakoreshejwe akagozi, aho gashyirwa hagati y'imyanya iri hagati y'iryinyo n'irindi kugira ngo havanwemo bimwe mu bisigazwa by'ibiryo biba biri mu menyo, ibi bifasha amenyo gucya no kumererwa neza.

Umwana mutoya watojwe umuco wo kugira isuku yo mu kanwa akoresheje ibikoresho birimo korogate cyangwa se umuti w'amenyo n'uburoso yoza ishinya, ururimi ndetse n'amenyo kugira ngo ubuzima bwo mu kanwa bukomeze busigasirwe ntakibazo.

Umuganga urimo gusuzuma ubuzima bw'umwana ukiri mutoya, cyanecyane ubwo mu kanwa, harebabwaga icyakorwa kugira ngo busigasirwe, bityo agakura nta kibazo giturutse mu kanwa afite, nk'amenyo, ishinya, n'ubundi buzima bwo mu menyo muri rusange.

Umuganga w'inzobere mu bijyanye n'ubuzima bwo mu kanwa aho avura umurwayi cyane cyane yita ku menyo haba kuyakura kuko yagize ikibazo.

Kugirira isuku mu kanwa ni bwo buryo bwiza bwa mbere bushobora gutuma umuntu aseka neza atanuka mu kanwa, ntiyigirire n'ipfunwe ryo guseka cyangwa se ngo ahishe amenyo yiwe, akanagaragara neza.

Uburyo habugenewe bwo gusukura amenyo, hakoreshejwe akagozi keza kanyuzwa hagati y'amenyo n'andi, mu buryo bwo kuvanamo ibisigazwa by'ibiryo byasigaye mu menyo, bityo isuku y'amenyo ikagerageza gukuzwa.

Gahunda yo gufasha abaturage mu kwita ku buzima bwabo bwo mu kanwa, binyuze mu baganga bafasha abaturage bakabigisha uburyo basukura bakanita ku buzima bwabo bwo mu kanwa, cyane cyane bita ku menyo no kuyasukura, kuko byabateza ibyago bikomeye.

Ibyuma by'ikoranabuhanga, byabugenewe mu gukoreshwa n'inzobere zitandukanye, harebwa ubuzima bw'imbere mu mubiri w'umuntu, cyane cyane nk'ubwo mu kanwa, bakura amenyo, kugira ngo ubuzima bukomeze.

Umuganga agira uruhare runini rwo kwerekera umurwayi bimwe mu bikorwa by'ubuzima bwe harimo isuku yo mumenyo, aho afata akagozi kabugenewe yigisha umurwayi uburyo bagakoresha bakanyuza hagati y'iryinyo n'irindi mu kuvana ibisigazwa by'ibiryo biba byasigaye mu menyo.

Isuku nkeya ku buzima bwo mu kanwa, aho bitera ikibazo cyo kwangizwa kw'ibigize akanwa nk'amenyo, ishinya ndetse n'ururimi, bigatuma hanuka ndetse n'ubundi burwayi bwose bwakuririra ku isuku nkeya.

Igice cyo mu kanwa aho ubuzima bwo mu kanwa ndetse n'ibigize akanwa, harimo ibinyigisha, amenyo cyangwa se ishinya biba biherereye.

Umutegarugori cyangwa se umugore, urimo gukora isuku y'umubiri wiwe, akanyuzamo akireba cyangwa se agafata indorerwamo kugira ngo yirore, cyane cyane yita ku isuku yo mu kanwa.

Uburyo bwo kwita ku bwo mu kanwa cyane bikozwe n'ababugenewe bazwi nk'abaganga b'amenyo, mu ndimi z'amahanga bazwi nk'abadetisite kugira ngo havanwemo amenyo yagize ikibazo ubuzima bukomeze.

Umugabo urimo gukoresha akagozi kabukenewe mu gusukura amenyo, aho akanyuza hagati y'iryinyo n'irindi, mu kuvanamo ibisigazwa by'ibiryo biba byasigaye mu menyo kugira ngo akomeze afite isuku.

Umusore ugaragara nk'aho akiri urubyiruko, arimo gusukura amenyo y'iwe akoresheje akagozi kabugenewe, aho akanyuza hagati y'iryinyo n'irindi mu kuvanamo ibisigazwa by'ibiryo bityo ubuzima bwo mu kanwa bukarindwa.

Umwana mutoya uri kwitabwaho n'umuganga, amuvura cyangwa se akurikirana ubuzima bw'iwe bwo mu kanwa, cyane cyane amenyo n'ishinya uburyo bigomba kurindwa zimwe mu ndwara zakototera amenyo.

Umuco mwiza w'isuku ku bakiri batoya, hakoreshejwe uburoso, n'umuti wabugenewe uzwi nka korogate, hozwa mu bice by'akanwa bizwi nk'ururimi, amenyo ndetse n'ishinya, mu gutuma ubuzima bwo mu kanwa bukomeza kuba bwiza.

Umugabo urimo gukoresha akagozi kabugenewe mu gusukura amenyo yiwe, hagati y'iryinyo n'irindi, aho iyo umuntu amaze kurya, haba hasigaye ibisigazwa, bityo akagozi kagafasha mu kubivanamo.

Umugabo cyangwa se umusore urimo gukoresha akagozi kabugenewe mu gusukura amenyo, kanyuzwa hagati y'iryinyo n'irindi hagamijwe gukura ibiryo biba byasigaye mu menyo, mu byo kugira ngo amenyo ake agire n'isuku muri rusange.

Gusukura amenyo, hakoreshejwe akagozi kabugenewe, aho umuntu akanyuza hagati y'iryinyo n'irindi, avanamo bimwe mu bisigazwa by'ibiryo biba byasigaye kugira ngo amenyo ase neza n'ubuzima bwo mu menyo, bukomeze burambe.

Gutoza abatoya umuco wo kugira isuku amenyo, ndetse n'ubuzima bwo mu kanwa muri rusange, hakoreshejwe ibikoresho byabugenewe, nk'uburoso na korogate kugira amenyo, shinya, n'ururimi bicye hirindwa indwara zose zatera mu kanwa.

Kwita ku barwayi cyane cyane bafite ikibazo cy'ibijyanye n'ubuzima bwo mu kanwa, harebwa nko ku menyo, uburyo yakurwa, hagashyirwamo andi cyangwa se bagahabwa imiti ibafasha kubongerera uburame bityo uburibwe bw'ayo menyo bukarangira.

Abaganga bari kwita ku murwayi ufite ikibazo mu buzima bwo mu kanwa, aho bamuvura, bimwe mu bice bye bigize akanwa, nk'amenyo, ishinya, ururimi, ndetse n'ibindi byose, nk'imitsi ijyana amaraso mu kanwa, yaba yarangiritse.

Gusanga abafasha b'abaganga cyangwa se abaforomo, kuko uvurwa indwara zo mu kanwa, ndetse n'ibyaturuka kuri izo ndwara zo mu kanwa, cyane nk'amenyo, ishinya, ururimi, hababwaga imiti ibivura bigakira.

Ukugaragara neza kw'amenyo ndetse no mu kanwa, biturutse mu isuku yaho hakoreshejwe uburoso na korogate cyangwa umuti w'amenyo, bigatuma hahumura n'useka agaseka nta pfunwe bimuteye.

Gusukura amenyo hakoreshejwe igikoresho cyabugenewe, gifite akagozi kameze neza kanyuzwa hagati y'iryinyo n'irindi mu kuvanamo ibiryo n'ibiribwa biba byasigaye mu menyo.

Uburyo bwo gusukura amenyo hakoreshejwe ibikoresho bihanagura umwanda cyangwa se ibiryo biba byasigaye mu menyo yacu, hanyuma amenyo agacya n'ubuzima bwo mu kanwa bugakomeza bukaramba.

Umufasha w'umuganga cyangwa se umuforomo, yita akanerekera umurwayi ibikorwa bye byamufasha gukira, birimo no kumujyana ahantu hamwe na hamwe mu kwifasha no ku bwiherero no kumutembereza agakira vuba.

Uburyo abantu bakuru bafite uruhare runini rwo kuyobora abantu batoya kwiga imyitozo ngororamubiri bakabererekera uburyo bikorwa kugira ngo mu gihe kizaza bazabyikorere ubwabo.

Inzira abaganga bafashamo abarwayi, mu kubasuzuma niba imiti babahaye n'ubuvuzi babakoreye birimo bibafasha, bahereye ku bikorwa by'ibanze, bibatangirira mu gukira kwabo.

Aho ugaragara nk'umufasha w'umuganga cyangwa se umurwaza afasha umurwayi mu burwayi bwiwe kugira ngo amererwe neza, amwitaho amuha icyo amusaba ndetse amwumva n'ibyo amubwira kugira ngo abikurikize akire.

Umuntu mukuru cyangwa se ugeze mu za bukuru uri gufashwa n'umwana wiwe mu gusoma binyuze mu bitabo zimwe mu nkuru cyangwa se amateka, hakaba hari n'ibikombe birimo ibinyobwa kugira ngo baruhure mu mutwe, banidagadure.

Igisoro ni umukino ukinwa n'abantu babiri, aho baba bafite insoro bakinisha mirongo itandatu n'enye, bagakoresha ubwonko n'umutwe cyane mu kwimura izo nsoro mpaka kugeza ku utsinze

Gukora imyitozo ngororamubiri ku basheshe akanguhe aho bakoresha ibikoresho byabugenewe, ariko bitavunanye ndetse bigenewe abakuze kugira ngo umubiri wabo ukomeze ugubwe neza.

Ubusabane bwo hagati y'abagize umuryango, umugabo, umugore, abana ndetse na ba nyirakuru na ba sekuru bakaganira, bakungurana ibitekerezo, bakanagirana n'inama, bakanashyigikirana mu buzima bwabo bwa buri munsi.

Abasaza babiri basheshe akanguhe bambaye imyambaro gakondo nk'imishanano ndetse n'ingofero, aho bari mu kirori cy'ubukwe Nyarwanda, haba ku bashyingiwe ndetse n'ibindi birori bisanzwe byo mu Rwanda.

Aho abantu by'umwihariko abageze mu zabukuru, bakora imyitozo ngororamubiri, baterura ibyuma biremereye ariko bitaremereye cyane ku rugero rwabo, mu buryo kunanura imitsi, imikaya, amagufwa no gutuma ubwonko bukora neza.

Umurwayi ufite uburwayi bukomeye bityo yabaye indembe, hakaba habaga imiti binyuze muri bimwe mu bikoresho by'ikoranabuhanga nk'imashini zimufasha kumuvura zikanyuzwamo imiti no kumusuzuma, akitabwabwaho mu buryo bwo kugira ngo akire.

Aho abakuze umusaza n'umukecuru bicara bakagubwa neza, bagakina imwe mu mikino isaba gutekereza ndetse n'ubwonko, izwi nk'urusoro, aho bakoresha utuntu twabugenewe, bimura ndetse banahererekanya utwo tuntu tukavamo intsinzi.

Guteka cyane cyane bya gakondo hakoreshejwe amashyiga atatu, nta gutekera mu gikoni ndetse n'inkwi z'ibidukikije zisanzwe.

Ibikoresho byagenewe abafite ubumuga bw'ingingo, bitangwa n'abaterankunga batandukanye, cyane cyane abo mu mahanga kugira ngo bifashe ababana n'ubumuga mu buzima bwabo bwa buri munsi.

Umukecuru ugeze mu zabukuru, urimo gukora imyitozo ngororamubiri, aho ananura amaguru, amaboko, umugongo kugira ngo yumve amerewe neza n'amaraso atembere neza.

Aho umurwaza yerekera umurwayi mu burwayi bw'iwe, amufasha kumuyobora aho agiye, cyane cyane gukora bimwe mu bikorwa bye by'ibanze, nko kujya ku bwiherero, kurya n'ibindi bitandukanye.

Aho umuganga yerekera umurwayi, anamusuzuma, niba arimo akira, agakoresha igikoresho gishobora gushyirwa mu ntoki z'umurwayi, harebwa niba ashobora guhina ibiganza cyangwa intoki mu buryo bwo kugenzura neza niba yarakize.

Aho umuntu mukuru cyangwa se umubyeyi yigisha umwana w'iwe, bimwe mu bikorwa byatuma ubwonko bw'iwe bukura, birimo nko kubara, gushushanya no kumwereka gutandukanya amabara bityo bigatuma ubwonko bw'iwe bukura neza.

Umusaza ugeze mu zabukuru, aho ari gutozwa anafashwa n'umwari cyangwa se umugore mu kumwigisha nyuma y'uburwayi butandukanye, uko yakiyobora akanasuzumwa uburwayi bwiwe, mu buryo bwo kunanura imitsi, n'amagufwa muri rusange.

Uburyo bwo kwita ku bakuze, tukabayobora, aho bafite intege nkeya, ibi bifasha mu gutuma bumva ko batari bonyine, ndetse bikanabongera iminsi yo kuramba.

Uburyo bwo gupima abageze mu zabukuru, harebwa niba nta kibazo cy'umubyibuho ukabije cyangwa se niba nta kibazo cyo kunanuka gihari.

Umutegarugori uri mu myitozo ngororamubiri, ugaragara nk'aho akuze ariko kubera imyitozo akora igatuma akomera, akomeza kugira imbaraga zimufasha mu buzima bwe bwa buri munsi.

Kwerekera no kuyobora abarwayi uburyo bwo kunywa imiti, hakurikizwa amabwiriza ya muganga. Ibi bikorwa umurwayi ahabwa ibinini byo kunywa buri munsi, isaha runaka ndetse n'igihe runaka kugira ngo akire uburwayi bwe.

Abahinzi bagaragara ko ari abo mu cyaro, bishimira umusaruro wabo ahantu ugeze mu buhinzi, n'intambwe bamaze gutera mu bikorwa byabo by'ubuhinzi, bagendeye ku mateka yabo.

Kunywa amazi asukuye, akenshi buri munsi cyangwa se buri gihe, bituma umubiri ugira imbaraga zawo, kandi ugafasha n'ubwonko gutekereza neza. Ibi ni ingenzi cyane cyane ku bageze mu zabukuru.

Umutegarugori urimo gupima imiti akurikije amabwiriza muganga yamuhaye ubwo yari afite indwara akajya kwivuza, kugira ngo ayinywe bityo ntagire iyo arenza, cyangwa se iyo ajya munsi kandi akagendera ku gihe yabwiwe.

Kwita ku badukuriye cyane cyane abageze mu zabukuru, twicisha bugufi tukabegera, tukabaruhura, tukabereka ko batari bonyine mu buzima bwabo no mu bikorwa byabo bya buri munsi.

Umuntu ugaragara nkaho ageze mu zabukuru n'umufasha wiwe, aho asoma amabwiriza ari ku miti yahawe mbere yo kuyinywa cyangwa se mu kuyikoresha ku burwayi bwiwe, bityo bigatuma agira iyo atarenza cyangwa se iyo atagomba kugabanya kugira ngo akire.

Umuganga uri gufasha umurwayi gukira vuba, binyuze mu myitozo y'agatambaro yamuhaye gakururuka kugira ngo ananure intege ziwe n'amaraso atembere mu mubiri wiwe.

Igikorwa cyo gusabana ku bantu b'inshuti, hanyuma bagafata n'ifoto y'urwibutso kugira ngo ngo bajye bibuka ibihe byiza bagiranye, mu gihe batakiri kumwe.

Umusaza ugaragara nkaho nta ntege afite cyane kubera ikibazo cy'uburwayi, ariko akaba ari kumwe n'umufasha kwidagadura ndetse no kwiyitaho binyuze mu bikoresho by'ikoranabuhanga nka telefone, bityo akaruhuka kandi akumva ko anitaweho mu buzima bwiwe bityo agakira.

Umuntu uri gutegura amafunguro, yibanda ku birinda indwara, imboga, imbuto zirimo nk'indimu, pome, ibi byose bigafasha mu gutuma umubiri, utagira indwara za hato na hato, cyane cyane indwara zitandura, zirimo ibicurane, malariya, n'izindi.

Uburyo abarwaza bita ku barwayi, bakababa impande buri kimwe cyose bashatse bakakibaha bityo bikabafasha mu gukira vuba no kwiyumva ko nta kimwe babuze mu burwayi bwabo.

Igihe umuganga cyangwa se umurwaza w'umurwayi agerageza guha imiti umurwayi amwereka itagomba kurenzwa n'igenewe kunyobwa kugira ngo akire mu buryo bwiza.

Kwita ku bageze mu za bukuru cyane cyane abafite indwara z'igihe kirekire bahabwa imiti ndetse n'ubufasha bwa hafi kandi bw'ibanze mu burwayi bwabo kugira ngo bakire vuba kandi bwangu.

Abategarugori batatu bagaragara nk'aho bakuze, harimo uri hagati aberekera anabayobora kandi abungura ibitekerezo ku bijyanye n'ibintu bitandukanye, kuko mu busaza bwabo n'ubukure bwabo hari ibyo batashobora kwimenyera bityo bagakenera abandi ngo basobanurire.

Umurwayi uri kwitabwabwaho n'umuganga, aho amupima akaboko areba ikibazo afite, cyanecyane areba niba nta kibazo cyaba kijyanye n'imirire afite, kugira ngo amuhe amabwiriza n'imiti ku buzima bwiwe.

Umuntu mukuru urimo kuruhura ubwonko bwiwe, binyuze mu mikino yabugenewe iruhura ubwonko, izwi nk'urusoro aho udukoresho twabugenewe, dushyirwa mu myanya yabugenewe bityo ubwonko bukaruhuka kuko hagaragaza uwatsinze n'uwatsinzwe.

Kwishimirana, kumwenyurirana, no kuganira mu gihe cy'ameza, hafatwa indyo yuzuye, ni bimwe mu bituma umubiri n'ibitekerezo biryoherwa ifunguro kandi bigatuma rigenda neza mu mubiri wacu.

Ibirori byo kwizihiza umunsi mukuru, Afurika iboneraho uburyo bwo kutunganya no gukora ndetse no gutumiza imiti yayo, mu gukoresha bavura abaturage ba Afurika, aho kwiringira ibihugu by'amahanga ndetse n'ibihugu byo hanze ya Afurika.

Ihuriro ry'abashinzwe n'abakuriye ubuzima, hamwe n'inzobere mu bijyanye n'ubuzima, aho bateranira bakungurana ibitekerezo ku bibazo n'ibisubizo byibanda ku buzima bw'umuryango nyarwanda ndetse n'amahanga muri rusange.

Umunsi mpuzamahanga wo kurwanya diyabete. Ufite insanganyamatsiko igira iti: "Ihuze natwe, mu gutanga inama n'ubufasha, ku bagize ikibazo cya Diyabete".

Kwigisha ubuzima bw'imyororokere cyane cyane ku batoya n'urubyiruko muri rusange, uburyo bwo kwirinda aho bwakangirikira n'aho bwasigasirwa kuko ariwo mutungo wo mu gihe kizaza.

Amakuru meza ku rukingo rw'indwara izwi nk'igitutu cy'umuhondo cyangwa se indwara ituruka ku kurumwa n'imibu bityo ikaba yateza uburwayi burimo ku muhondo, ku ruhu ndetse no mu maso, ibi ngibi bikaba yarabonewe umuti ku itariki cumi n'enye z'ukwa kane bibiri na makumyabiri na kane.

Ibirori bikomeye aho abaturage babyina, bakaririmba bigamije kwishimira umunsi mpuzamahanga w'ubufasha wabaye muri bibiri na makumyabiri na kane, Ikigo gishinzwe ubuzima mu Rwanda RBC.

Inama yabaye kugira ngo yige ku bijyanye n'ubuzima muri bibiri na makumyabiri na kane. Yari igamije kurebera hamwe ibibazo n'ibisubizo byo ku buzima hagamijwe kugira ubuzima buzira umuze mu baturage.

Urugendo rwo gusigasira ubuzima bwo mu mutwe, aho Jeannette Kagame yavuze ko ubuzima bubi bwo mu mutwe bwangiza imiryango ndetse bugatuma n'iterambere ritagerwaho muri rusange.

Umuryango utegamiye kuri leta mpuzamahanga ushinzwe imibereho myiza cyane cyane iy'abana; imikurire y'abo, imyigire y'abo, ndetse n'imibereho yabo ya buri munsi.

Gahunda yabaye ku itariki cumi n'umunani kugeza kuri makumyabiri n'enye, mu kwezi kwa cumi na kumwe, muri bibiri na makumyabiri na kabiri, yibandaga kurwanya udukoko twateza indwara izo ari zo zose.

Ihuriro nyunguranabitekerezo ku cyorezo cya SIDA ndetse n'uryo indwara zituruka mu mibonano mpuzabitsina zabonerwa igisubizo.

Gahunda ya Leta y'u Rwanda yo kwirinda indwara y'icyorezo y'ubushita bw'inkende, aho ubukangurambaga bukorwa ku baturage hafatwa ingamba zitandukanye, cyane cyane zibanda ku isuku no kudakoranaho, kugira ngo iyi ndwara ikizwe burundu.

Abaganga ndetse n'abakorerabushake, bambaye impuzangano zabugenewe, zirimo udupfukamunwa, imipira yo mu ntoki ndetse n'ibindi bitandukanye, bavura umurwayi indwara.

Inama mpuzamahanga yibanda ku ifunguro ryuzuye cyangwa se indyo yuzuye izaba ku itariki makumyabiri n'enye kugeza kuri makumyabiri n'eshanu z'umwaka wa bibiri na makumyabiri na gatanu.

Gahunda yo gushishikariza abaturage gukoresha agakingirizo mu gihe bakora imibonano mpuzabitsina, hagamijwe kwirinda indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina ndetse n'inda zitateganyijwe ku bakiri batoya.

Amahugurwa agamije gutangirwamo zimwe mu nama zigenewe urubyiruko cyane cyane abari n'abategarugori yabafasha kurinda ubuzima bwabo, bakaburinda n'umuryango wabo binyuze mu kwitwara neza.

Ubukangurambaga ku ndwara ya kanseri. Aho hagaragazwa uburyo kanseri ishobora kuririra mu biro byinshi ndetse n'umuvuduko hamwe na diyabete bityo igomba kwirindwa binyuze mu myitozo ngororamubiri n'indyo yuzuye.

Igitabo gikubiyemo inyigisho n'inama z'ibyerekeye ubuzima bw'imyororokere, cyane cyane hibandwa ku myifatire, imikorere yabwo n'ingamba zafatwa kugira ngo bugende neza.

Inama Mpuzamahanga yabereye mu Rwanda muri bibiri na makumyabiri na kane, ku bufatanye bw'ikigo gishinzwe ubuzima RBC, aho yigaga ku bushakashatsi bushobora gukorwa ku nzego z'ubuzima.

Gahunda y'ikigo gishinzwe ubuzima mu Rwanda, aho gikangurira buri muntu wese kwirinda icyorezo cya Korona binyuze mu isuku nyinshi nko gukoraba ku ntoki no kutegerana ku bantu igihe bari kumwe ndetse no kwambara agapfukamunwa buri gihe.

Gahunda yo kwimakiza umuco wo kubika ibibura n'ibitabora mu buryo buvanguye, hagamijwe kugira isuku no kubikoresha cyane nk'ibibora by'ifumbire ishobora gukoreshwa mu myaka itandukanye cyangwa se ibitabora bikongera bigakoreshwa nk'ibindi bikoresho bishyashya.

Igikorwa cyo kwisuzumisha, aho umurwayi yegera muganga cyangwa se umuvuzi akamubwira uko yiyumva bitewe n'uburwayi bwe, hanyuma muganga akamuha imiti cyangwa se akamushyira abamuha imiti.

Indwara y'uruhu yandura iva ku muntu umwe ijya ku wundi, aho uduheri tuza tugatutumba tukaba tunini, hakazamo amazi ndetse n'amashyira, bikabangamira uyirwaye, aho bimurya bikamuryaryata, yanashima bigatuma umubiri we wose ukwiraho.

Abaganga n'abafasha babo, aho bari mu cyumba cy'urusuzumiro, bari kumwe n'abarwayi aho bari kubapima zimwe mu ndwara zigaragarira mu maraso, bakabatobora ku gatoki kugira ngo bafate amaraso.

Aho umuganga avura umurwayi haba kumukingira indwara zirimo iz'ibyorezo nk'ubushita bw'inkende corona virusi ndetse n'izindi zitandura zirimo nka diyabete ndetse n'indwara z'umwijima zitandukanye.

Umunsi Mpuzamahanga wabaye ku itariki makumyabiri n'esheshatu z'ukwacyenda, umwaka wa bibiri na makumyabiri na kane, ugamije kwigirwamo ibibazo n'ibisubizo ku birebana n'ibidukikije kuri iy' Isi yacu.

Abagore batatu bambaye impuzangano y'ubururu yabugenewe mu gukora kwa muganga, haba mu masuku yo kwa muganga ndetse no kujyana imiti bayishyiriye abarwayi mu gihe abaganga bayibategetse.

Inyubako y'ikigo nderabuzima cya Kanyinya, aho abarwayi batandukanye, baza kwivuza ku ndwara zabo zitandukanye, zirimo malariya ndetse n'izindi zandura cyangwa se izitandura kugira ngo bahabwe ubuvuzi n'imiti kuri izo ndwara.

Gusuzuma umurwayi, aho muganga afata ibimenyetso by'umurwayi agendeye ku burwayi abwiwe n'umurwayi cyangwa se ibyo akoresheje ikoranabuhanga.

Abarwayi babiri, harimo umwana ukiri mutoya n'umugabo w'igikwerere barwaye bari kwa muganga, bakaba barembye ariko bitabwaho binyuze mu miti y'ikoranabuhanga kugira ngo bakire uburwayi bwabo.

Inyubako y'ibitaro bikuru bya kabgayi aho abarwayi batandukanye bafite uburwayi bukomeye nka kanseri, indwara z'umutima bagana kugira ngo bavurwe cyangwa se babagwe kubafite ibikomere by'imbere.

Inyubako ifite icyumba cyabugenewe cyokorerwamo imyitozo ngororamubiri, ikaba ifite ibikoresho byujuje ubuziranenge, haba ibyo guterura, ibyo gusa n'ugenda ndetse n'ibindi byo kunanura imitsi.

Inyubako y'imyitozo ngororamubiri, ifite ibikoresho by'ibanze ndetse n'ibirenze by'ibyibanze, byo gukoresha haba mu guterura, mu gusimbuka, mu kunanura imitsi, k'ibizwi nka yoga, mu gutuma umubiri urushaho kuba neza.

Ibiro bisangwa imbere mu gihugu, aho abagore n'abana bahohotewe, cyane cyane ihohoterwa rishingiye ku gitsina, bagezwa hakarwanywa zimwe mu ngaruka zabagezeho binyuze mu iryo hohoterwa ndetse hakanahorerwa abarikoze iryo hohoterwa kuri abo bana.

Inyubako igaragara ko ari ishuri rya univerisite y'u Rwanda, aho ifite ibidukikije birimo ibiti n'abantu babiri batembera mu bikikije iyi nyubako, ikaba yaragenewe kwigirwamo amasomo atandukanye nk'ay'ubuzima n'ubumenyingiro.

Abafasha b'abaganga bambaye impuzankano yabugenewe harimo udupfukamunwa amapantaro y'ubururu n'amashati y'ubururu, bakaba basa naho bakiri batoya biganjemo abagore bagafasha abarwayi batandukanye.

Ikigo nderabuzima cya Kigina aho abarwayi batandukanye bo mwa kino gice cya Kigina baza bakigana bakitabwaho mu buryo bwiza bukwiye, bahabwa imiti ndetse n'ubundi bufasha bwabakiza indwara zabo.

Inyubako y'ibitaro bikuru ifite imbata iyobora abayigana, urugero aho bakirira indembe mu rwerere, aho babyarira, icyumba cy'ababyeyi, icyumba cy'abagore, icyumba cy'abagabo, imbagwa ndetse n'ibindi bitandukanye.

Ikigo gikuru gihereye mu mujyi wa Kigali, gishinzwe kwita abafite ikibazo cyo mu mutwe, cyane cyane abahohotewe, bagize ihungabana cyangwa se abagize ingaruka zituruka ku biyobyabwenge.

Ikigo nderabuzima cya Kigina aho abarwayi batandukanye bo mwa kino gice baza baje kwivuza indwara zitandukanye, harimo malariya, izijyanye n'imvune ndetse n'izindi zitandukanye.

Umuganga wambaye impuzangano cyangwa se imyenda yabugenewe y'akazi ko kuvura, aho arimo akoresha ibyuma by'ikoranabuhanga, mu kumufasha gutunganya ndetse no kuyikoresha mu bikorwa byiwe byo kuvura.

Icyumba cyabugenewe, gisukuye giteguye kandi kimeze neza, kibikwamo imiti itandukanye, haba ku bigo byikorera ndetse no kwa muganga, aho ishyirwa mu buryo bwo kuyijyana ku barwayi batandukanye bo mu bitaro.

Inyubako y'ibitaro by'Igihugu cy'u Rwanda, aho abarwayi batandukanye baba mu Gihugu bayigana hagamijwe kuvurwa indwara zabo cyane cyane iz'ibyorezo, izitandura ndetse n'indwara zituruka ku mvune.

Icyumba cyabugenewe kubikwamo imiti itandukanye, harimo ituruka ku bihingwa cyangwa se ibyatsi ikanyuzwa mu nganda, hanyuma ikabikwa neza mu buryo bushobora kumara igihe kirekire, igakoreshwa ivura abarwayi batandukanye n'indwara z'ingeri zose.

Amaraso atangwa aturutse ku bandi bantu akoherezwa mu bitaro bitandukanye, aho ahabwa abarwayi babuze amaraso, mu buryo bwo kubafasha kubongerera amaraso.

Umurwayi uri mu rusuzumiro, aho yashyizwe ku gitanda cyangwa uburiri bwabugenewe kugira ngo asuzumwe indwara afite, zirimo nka Malariya cyangwa se iyindi imubangamira mu buzima bwe.

Abanyeshuri biga ibijyanye n'ubuzima yaba ubw'abantu cyane cyane, aho bari mu kwiga no kwimenyereza umurimo wabo kwa muganga, bafashwa n'ababizobereye ndetse n'ababakuriye mu buryo bwo kugira ngo bamenyere.

Inyubako imeze neza ifite isuku yo kwa muganga, cyangwa se mu bitaro muri rusange, ikorerwamo ibikorwa bitandukanye byo kwita ku barwayi, ndetse hakaba harimo n'ibiro byagenewe, gukorerwamo ibikoreshwa n'inama, kug...

Inama ku byerekeye ubuzima bw'umubyeyi ndetse n'ingamba zafatwa kugira ngo bukomeze busigasirwe, harebabwa imbogamizi ndetse ibisubizo byakomezwa kugira ngo bagire ubuzima baziwe umuze.

Inyubako y'ibitaro bikuru biherereye mu karere ka Nyanza, aho byakira abarwayi batandukanye baturutse mu gihugu no hanze y'igihugu, baje bafite indwara zitandukanye zirimo nka diyabete indwara y'umutima umuvuduko n'izindi zitandukanye.

Inyubako yubatse neza kandi ni ahantu hatuje, ishobora kuba ari iya Leta cyangwa se ikigo kigenga, ifasha abarwayi n'abarwaza kuhagana bakabona imiti itandukanye ku burwayi bwabo.

Gahunda y'Ikigo cy'Igihugu Gishinzwe Ubuzima mu Rwanda, cyahariwe kwita ku buzima bw'umubyeyi, harebwa imbogamizi ahura na zo n'ibisubizo byaboneka kugira ngo izo mbogamizi zibuzwe.

Umurwayi uri kwa muganga aho ahabwa imiti binyuze mu byuma by'ikoranabuhanga bizwi nk'ibyohereza serumo mu mubiri kandi akaba ategetswe kuhaguma agasezererwa na muganga ari uko abona yorohewe cyangwa se akize.

Icyumba cy'imyitozo ngororamubiri cyuje ibikoresho byujuje ibyangombwa, byo gukora imyitozo ngororamubiri, haba iyo gupomba, kwinanura umugongo, guterura ndetse n'ibindi bikorwa bya siporo.

Abaganga barimo kwita ku barwayi, babasuzuma zimwe mu ndwara bafite, zishobora kuba zirimo umuvuduko w'amaraso, malariya ndetse n'izindi, bagamije kubaha ibinini cyangwa imiti ibakwiye.

Ku kigo nderabuzima aho abaturage batandukanye baza baje kwivuza indwara, baratwereka icyumba kizwi mu ndimi z'amahanga nka laboratwari, aho abaturage n'abarwayi bajya kwipimishiriza no kwisuzumisha binyuze mu byuma by'ikoranabuhanga kugira ngo bavurwe.

Icyuma cy'ikoranabuhanga cyabugenewe mu kureba aho amaso ya muntu adashobora kureba nko mu bitembabuzi, ibi bikorwa kugira ngo harebwe mikorobe cyangwa se udukoko dutoya mucyo bashaka gupima.

Inyubako yubatse neza kandi igezweho, aho izwi mu ndimi z'amahanga nka farumasi, akaba ari ahantu hagenewe gucururizwa no kugurirwa imiti itandukanye mu buryo bwo kujya kuyikoresha havurwa indwara zitandukanye zirimo Malariya, ibicurane, imvune n'izindi.

Inyubako igaragaraho urujya n'uruza rw'abantu bayigana, baje gufata serivise z'ubuvuzi, ikaba igaragaraho n'ibyapa ndetse n'ubuyobozi bw'umutekano w'imbago z'inyubako, mu buryo bwo kugira ngo abayigana basobanukirwe ndetse bacungirwe n'umutekano.

Ibyumba byabugenewe by'abarwayi, aho baza kwa muganga kugira ngo baharuhukire, bahakurikiranirwe kandi banahasuzumirwe, bahahererwa imiti itandukanye na dogiteri.

Inyubako ngari iherereye mu mujyi wa Kigali y'ibitaro aho abaturage batandukanye bagize ikibazo cy'uburwayi bagana kugira ngo bavurwe, ifite ibyumba aho ubuyobozi bw'ibitaro bukorera ndetse n'aho abarwayi n'abarwaza babo bacumbika.

Inyubako y'ibitaro bikuru bya Ruhengeri, biherereye mu Karere ka Musanze mu ntara y'Amajyaruguru. Aho abarwayi baturutse mu mpande z'igihugu zitandukanye baza babigana kugira ngo bavurwe indwara zabo.

Inyubako yabugenewe ibikwamo imiti, igamijwe gutangwa ku barwayi, baba bayiguze cyangwa se bayandikiwe n'ibigo runaka bitandukanye by'ubuvuzi, igahabwa abarwayi mu buryo bwo gukira vuba.

Inyubako iherereye mu mujyi wa Kigali aho ni mu Rwanda yashinzwe kandi ikaba yaragenewe gutanga imiti no kuyicuruza ku barwayi batandukanye, ikaba ishobora kuba yegamiye kuri leta cyangwa se ari iy'abikorera.

Inyubako nziza yubatse mu mujyi wa Kigali, ifite ubusitani ni ahantu abarwayi baza bagana bakaruhuka, bakanahabwa imiti n'ubuvuzi ku ndwara zabo zitandukanye.

Icyumba cy'umwihariko cyabugenewe, mu gukorerwamo imyitozo ngororamubiri itandukanye, haba gukoresha inda, umugongo amaboko hakoreshwa ibikoresho biremereye, mu kubiterura bityo bigatuma umubiri umererwa neza.

Igihe umuganga asura umurwayi, akamusuzuma agendeye ku byo umurwayi amubwiye cyangwa se binyuze mu ikoranabuhanga, hagamijwe kumuha imiti imukwiriye ndetse ikwiye uburwayi bwiwe, mu buryo bwo kumuvura akamererwa neza.

Umuganga wita ku barwayi batandukanye b'indwara zishobora kuba iz'igituntu, diyabete, malariya ndetse n'izindi zandura cyane cyane cyangwa se izitandura, amufasha kumuha imiti iboneye no kumusuzuma bikwiye.

Abaganga bambaye impuzankano zabo zabugenewe z'umweru, barimo bita ku murwayi ufite umurwaza, mu buryo kugira ngo ahabwe imiti asuzumwe, bityo indwara afite ikire.

Inyubako ikorerwamo imirimo yo kugurisha imiti ku bayikeneye, aho umurwayi cyangwa umurwaza aza kureba imiti yo kuvura indwara zitandukanye, zirimo nka Malariya, ibicurane, izo mu nda nk'impiswi n'izindi zitandukanye.

Icyuma cy'ikoranabuhanga cyabugenewe, gikoreshwa n'umuganga mu gusuzuma indwara idahitako igaragaza ibimenyetso by'ako kanya, akayisuzuma akoresheje iki cyuma mu buryo bwo kumuha ibimenyetso, agendeye ku byo umurwayi agaragaza.

Inyubako y'ibitaro bikuru bya Nyarugenge biherereye mu mujyi wa Kigali, aho abarwayi batandukanye baturutse muri kino gice ndetse no mu bindi bice bitandukanye by'umujyi wa Kigali, baza bayigana kugira ngo bahabwe serivisi cyangwa se kwitabwaho mu buryo butandukanye ku ndwara zabo z'amoko atandukanye.

Ibyumba byo kwa muganga aho abarwayi bahurira n'abadogiteri barimo bisuzumisha bagatwara imiti cyangwa se bagafata ubuvuzi.

Inyubako y'ibitaro yakira abarwayi baje bayigana mu ngeri zose z'igihugu, igamije kubavura indwara zabo, zaba nka malariya, ibicurane, impiswi n'izindi zitandukanye.

Ibitaro by'ikigo gishinzwe gutabara abagize ihohoterwa nk'abagore cyangwa abana ndetse n'abafite ubumuga muri rusange, aho baza bagafashwa, bagahabwa ubutabazi bwabo ndetse bakanarenganurwa mu karengane bahuye nako.

Inyubako ndende kandi ngari, ifite ububiko ndetse n'aho baparika imodoka, zaba iz'abikorera cyangwa se iza kino kigo, mu kuzikoresha himurwa abarwayi bava ahantu hamwe bajyanwa ahandi.

Icyumba giteguye neza gifite ibikoresho, nk'intebe zigezweho, ameza ndetse n'ibishushanyo bitandukanye, hamwe na televiziyo zishobora gukoreshwa mu bikorwa by'imyidagaduro, aho abantu bashobora kuza bakaruhukira ndetse banaruhuka mu buzima bwo mu mutwe bwabo.

Inyubako yubatse ahantu heza, hatuje, aho abarwayi n'abagwaza babo, baza bagana kugira ngo bahabwe ubuvuzi ku ndwara zabo zitandukanye.

Umuganga wambaye imwe mu mpuzankano yabugenewe, mu gihe cyo kuvura indwara cyane cyane zandurira mu myuka nka Corona virusi n'ubushita bw'inkende, mu buryo kuvura abazifite kandi we ntagire ikibazo.

Inyubako yabugenewe y'abari n'abategarugori yo kubyariramo no gukurikiranirwamo mu gihe bafite ikibazo cyo kubyara cyangwa se ibijyanye no kubabyaza biturutse ku baganga.

Ibyumba byo kwa muganga byabugenewe, by'umwihariko aho abarwayi bakeneye ubutabazi bw'ibanze, cyangwa se ubufasha bw'ibanze, bazanwa kugira ngo bafashwe mu buryo bwihutirwa.

Icyumba kirimo ibyuma by'ikoranabuhanga cyo kwa muganga, bikoreshwa mu gusuzuma no gupima abarwayi bafite indwara zisaba kuzipima neza mu buryo budahita bugaragara, bityo bikabafasha mu kuvurwa hanyuze mu bimenyetso byafashwe.

Inyubako icururizwamo imiti cyangwa igatangirwamo imiti y'umuntu wigenga ku giti kiwe, ufite izina rya Murekatete Marie Denyse, ufite imyirondoro nimero yiwe zeru karindwi umunani umunani, mirongo itanu na gatanu mirongo irindwi, mirongo icyenda, bigafasha abayigana kubona imiti myiza.

Ku kigo nderabuzima cyangwa se kwa muganga, aho abaturage bagize ikibazo cy'uburwayi baza baje kwivuza indwara zitandukanye, bagatonda umurongo hakurikije uko baje kugira ngo bavurwe.

Kwita ku basheshe anguhe n'abageze mu zabukuru bapimwa indwara zitandukanye cyane cyane izitandura nk'umuvuduko w'amaraso, diyabete n'izindi z'ibyorezo.

Inyubako ifite icyumba, abarwayi batandukanye bashobora kuruhukiramo, kumererwa neza, bakagira igihe cyo gutuza, no kumva ko bari ahantu hisanzuye.

Uburyo bwo kuvura no kwita ku bana cyangwa se impinja zimaze iminsi mike zivutse, zikitabwaho mu minsi yazo kandi neza.

Ibyumba byo kwa uganga byagenewe gushyirwamo

Inyubako nziza igezweho yagenewe kwakirwamo abarwayi b'indwara zitandukanye cyane cyane abakuze barwaye nk'amenyo, indwara zo mu zabukuru n'izindi ndwara zose zibafata aruko zigendeye ku myaka yabo.

Icyumba gifite ibikoresho bitandukanye by'imyitozo ngororamubiri, harimo ibyuma biremereye, ibikoresha kunanura amaboko n'imitsi amaguru ndetse n'imikaya muri rusange.

Inyubako y'ibitaro bikuru biherereye mu karere ka Nyarugenge, aho ni mu mujyi wa Kigali, aho abarwayi baturutse impande z'Igihugu, cyane cyane ab'umujyi wa Kigali, baza bagana aho abaganga baherereye kugira ngo babafashe mu burwayi bwabo.

Ikigo nderabuzima cya Matyazo aho abarwayi batandukanye bo muri uyu murenge wa Matyazo baza bakakigana kugirango bahabwe imiti itandukanye, ku ndwara zabo zimwe na zimwe, zirimo malariya, ibicurane, indwara z'imvune n'izindi zitandukanye.

Inyubako ikigo nderabuzima cya Matyazo, aho abarwayi batandukanye mu murenge wa Matyazo ndetse n'inyuma y'umurenge wa Matyazo, baje bafite indwara zitandukanye ndetse n'ibibazo byerekeye ubuzima bagahabwa ubuvuzi mu buryo bwiza kandi bwitaweho.

Inzobere zitandukanye zaturutse mu mahanga nk'i Burayi, zije kwifatikanya n'Abanyarwanda mu nzego z'ubuzima, aho byasuye ibitaro bya Butaro.

Inyubako ndende kandi ngari yagenewe kwakira ndetse no guha serivisi zitandukanye abaturage bafite ikibazo cy'uburwayi. Igaragaraho umuganga cyangwa umuvuzi wambaye impuzangano ndetse n'umurwayi iruhande rwiwe bari kugenda.

Inyubako y'inzu y'ababyeyi izwi nka Materinite mu mvugo z'amahanga, yahariwemo ababyeyi bafite ikibazo cyo kubyara, bahagera bakabyazwa, bagahabwa abana babo mu buryo bwiza kandi bwizewe.

Inyubako y'umuryango, ikaba n'ikigo cy'u Rwanda gishinzwe kwita ku buzima bwa muntu, cyane cyane abarwayi b'indwara y'icyorezo ya Sida, ndetse n'uburyo bwo kwirinda iyo ndwara hagamije gutanga amabwiriza n'inama byo kuyirinda.

Inyubako ngari y'ibitaro by'umurenge wa Shyira, yakira abarwayi batandukanye baturutse impande zose z'igihugu cyane cyane abafite indwara zikomeye, zirimo nk'umuvuduko w'amaraso, umutima, indwara z'ibihaha n'izindi zitandukanye.

Ari ukwakira abayigana b'abarwayi kugira ngo bahabwe ubuvuzi bw'ibanze bukenewe mu gihe bagize ikibazo kirimo nko kurwara malariya, ibicurane, indwara zandura ndetse n'izitandura ku buzima bwabo.

Icyumba cyo kwa muganga, gifite ibikoresho bitandukanye, harimo uburiri, ibisaswa, aho abarwayi batandukanye bo mu bice by'Igihugu, baza bagacumbika mu gihe bategereje abaganga bo kubavura indwara zabo.

Inyubako ngari, aho inzobere mu buzima zitandukanye zikorera ubushakashatsi zigamije guteza imbere ubuzima muri rusange, hakarebwa imiti, inama ndetse na gahunda yose ishobora guteza ubuvuzi imbere yaba ku mugabane wa Afurika ndetse no ku Isi hose muri rusange.

Uwahize abandi mu marushanwa y'imyitozo ngororamubiri, aziwi nko kwiruka ava ku ntera imwe y'ibirometero bajya ku yindi.

Umuco wo kunywa amazi asukuye ari mu gikoresho cyiza gisukuye mu gihe cy'imyitozo ngororamubiri cyangwa se imirimo y'imvune mu buryo bwo gukora igogora ryiza no gufasha umubiri kuruhuka.

Gahunda yo kwita ku mubiri, hakorwa siporo ngororangingo ndetse no kunywa amazi asukuye, mu buryo bwo gufasha ubwonko gukorana n'umubiri, ubwonko bukayobora umubiri, n'umubiri na wo ukumva utuje, bigafasha ubuzima gukomeza neza.

Icyumba cyahariwe gukorerwamo imyitozo ngororangingo kuri buri muntu wese ushaka gukora umwitozo ngororangingo, hakaba harimo ibikoresho bimwe na bimwe bifasha umuntu mu gukora imyitozo neza icyumba kikaba kizwi mu ndimi z'amahanga nka gym.

Ikimenyetso cy'umuryango utabogamiye kuri leta, ugamije gufasha cyangwa se gutanga ubufasha bwihuse, cyane cyane ku barwayi bakeneye amaraso.

Imikino y'amaboko ku bari n'abategarugori muri rusange aho bakina bakidagadura, uburyo bwo guteza imbere uburenganzira bw'umwari n'umutegarugori muri rusange.

Igikoresho gikoreshwa nk'indege ntoya, mu ndimi z'amahanga drone, kivana amaraso ahantu hamwe kikayajyana ahandi, binyuze mu nzira y'ikirere bityo amaraso agakoreshwa ku bayabuze.

Abaturage b'ingeri zose bari gukora imyitozo rusange ngororamubiri, aho bafite ubayobora, icyo ababwiye akaba aricyo bakora, bakamukurikira bityo imyitozo ikagenda neza.

Umuvuzi wagenewe kuvura abakinnyi cyangwa se abakora siporo z'imyitozo ngororamubiri, nk'ababigize umwuga, mu buryo bwo kubafasha gukomeza gusigasira ubuzima bwabo mu gihe bari gukina.

Imyitozo y'umuntu ku giti cyiwe unanura intege, amaguru, amaboko, umugongo, ndetse n'ibindi bice bigize umubiri hagamijwe kurwanya zimwe mu ndwara zitandura, nk'umuvuduko, diyabete mu buryo bwo kugabanya ibinure.

Guhozaza agatambaro kabugenewe ku mubiri, hagamijwe kuvura ububabare, kunanura imitsi yibuhangiye, ndetse no gutuma amaraso atembera neza mu mubiri.

Umuco wo kunywa amazi mu gikoresho kimeze neza kandi gisukuye, mu gihe cyo kuba ku kazi ndetse no mu bikorwa byacu bya buri munsi, mu gihe umubiri uyakeneye.

Igikoresho kizwi nk'imbangukiragutabara, gikoreshwa mu gutabara abarwayi babaye indembe cyangwa se bafite ikibazo cy'uburwayi bukomeye.

Uburyo bwo kuzirika. Akaboko nk'urugingo mu gihe rwakomeretse umuntu yavunitse cyangwa se izindi mpamvu zagize ku buryo zitera ikibazo ku mubiri, bityo hakarindwa umubiri mu buryo bwuzuye.

Umuti ukoreshwa mu kuvura ububabare, mugihe umuntu yakomeretse cyangwa se yagize ikibazo ku mubiri, bityo bigatuma aribwa, uyu muti barawukoresha ububabare bugahagarara.

Ibyubaka umubiri w'umuntu, amagi, inyama, ibirinda indwara, imbuto, harimo imineke, pome ndetse n'ibikoresho bifasha imyitozo ngorora mubiri harimo ibiterurwa.

Umuco mwiza wo kunywa amazi asukuye ari mu gikoresho cyiza mu gihe dushaka ko umubiri wacu uruhuka ubwonko bwacu ugatekereza neza ndetse n'igogora ry'ibiryo rikagenda mu buryo bwiza.

Kunywa amazi asukuye, ameze neza, ari no mu gikoresho kimeze neza nk'agacupa kogeje, ukayanywa nk'inshuro ebyiri ku munsi, bituma umubiri w'umuntu ukora neza n'igogora rikagenda neza.

Igihimba cy'amagufwa agize umubiri w'umuntu, harimo imbavu, igufwa ry'umugongo ndetse n'amagufwa y'amaguru atuma umubiri ukomera ukagira n'ishingiro cyangwa se ireme ryo kubaho.

Imyitozo ngororamubiri ikorwa nyuma y'igikomere cyangwa se kuvunika ku mubiri, bigafasha mu gukira vuba nyuma y'igihe gitoya no kumenyereza umubiri nk'uko wahoze.

Umukobwa urimo gukoresha amazi ayanywa nyuma yo gukora imyitozo ngororamubiri, kugira ngo amufashe kumererwa neza, kuko iyo amaze gukora imyitozo akanywa amazi, bituma yumva ameze neza, haba mu buzima bwe bwo mu mutwe ndetse n'umubiri muri rusange.

Ibyafasha umubiri kurindwa indwara, harimo imbuto z'imineke n'imboga hamwe n'indimu ndetse n'ibyuma bikoreshwa mu kunanura intege, imitsi n'imikaya.

Uburyo bwo kwiherera hagafatwa umwanya utari mutoya wo kwiha imyitozo ngororamubiri, izwi mu ndimi z'amahanga nka yoga, hagororwa bimwe mu bice by'umubiri, nk'amaguru, amaboko, umugongo, imbavu, ndetse n'ibindi mu buryo bwo kuruhuka.

Gukomeza imitsi, imyakura ndetse n'inyama z'umubiri w'umuntu binyuze mu kwinanura ni mu bice by'umubiri nk'amaboko, ibiganza, umutwe, umugongo, bityo bigatuma ubwonko n'umubiri w'umuntu.

Imyitozo ngororangingo, aho umuntu ari kuyikora akoresheje kunanura amaguru y'iwe ndetse n'amaboko, cyane cyane yibanda kugorora imitsi n'amagufwa.

Gahunda y'ikigo cy'Igihugu gishinzwe imikino cyane cyane iyo kwiruka. Aho kigaragaza amarushanwa atandukanye ashobora kwitabirwa n'ingeri zose mu buryo guhatana.

Umwari cyangwa se umutegarugori ukora imyitozo ngororamubiri, akoresheje ibyuma byabugenewe, harimo ibimufasha guterura, kunanura amaboko, amaguru, umugongo ndetse n'imitsi muri rusange.

Guhoza umubiri mu gihe cy'ubushyuhe bwinshi cyane, mu gihe umuntu ari gukora imyitozo ngororamubiri, akoresheje amazi agashyira ku bice by'umubiri nk'umutwe cyane cyane, kugirango ngo ahumeke bitamugoye.

Imyitozo ngororamubiri, ikorwa hahinwa cyangwa se hagahinurwa bimwe mu bice by'umubiri nk'amaboko, amaguru, umutwe n'igihimba muri rusange mu buryo bwo kunanura intege ndetse n'imitsi.

Imashini z'ikoranabuhanga zabugenewe, zo gupima ibyorezo bitandukanye, harimo nka Korona Virusi, Mabage cyangwa se Ubushita bw'inkende, SIDA ndetse n'utundi dukoko dutandukanye.

Ubuvuzi bwa zimwe mu ngingo z'umubiri nk'ukuboko, mu gihe kwagize ikibazo cyo gukomereka cyangwa kuvunika muri rusange, aho hakoreshwa udutambaro rwabugenewe, mu guhabirizaho umuti kugira ngo habashe kwisubiranya.

Uburyo bwo kuruhuka, aho umuntu ajya ahiherereye cyangwa hitaruye urusaku, nko ku mazi, ku nyanja, akinanura, akoga, akumva ubuzima ahumeka neza, umubiri ugatekereza neza ndetse na we agakora neza.

Amazi ari gusukwa mu gikoresho cyabugenewe kizwi nk'ikirahure, agamije kunyobwa cyangwa se mu kuyakoresha mu bikorwa bitandukanye, mu buryo bugaragara ko akeye kandi adafite ibara.

Ibikoresho by'imyitozo ngororamubiri, higanjemo ibiterurwa hagendewe ku biro byabyo, aho umuntu aterura ananura imitsi, imikaya, amagufwa kugira ngo umubiri ubashekura neza.

Umugabo urimo gukora imyitozo ye ku giti kiwe, aho ari ahantu hatuje kandi hitaruye agakora imyitozo ngororamubiri, ananura amagufwa n'imitsi yiwe nk'amaguru, amaboko n'igihimba muri rusange.

Amashusho n'ibishushanyo fatizo bikoreshwa mu kureba ubuzima bwo mu bwonko cyane cyane hibandwa ku mitsi, inyama, amaraso, ndetse n'imikorere n'imiyoboro y'ubwonko muri rusange, hagamijwe kubungabunga ubuzima bwo mu mutwe.

Uburyo icumi bw'imyitozo ikorwa mu kongera gukangura ubwonko, nyuma yo guhura n'impanuka cyane cyane yangije ubwonko. Harimo ubwakorwa umuntu yicara cyangwa se umuntu ahaguruka yongera yicara, mu buryo bwo kugira ngo ubwonko n'umubiri bikorane.

Aho umuganga asuzuma umurwayi akoresheje bimwe mu byuma bitaremera cyangwa se ibikoresho bitaremereye, ku rugingo rwagize ikibazo, mu buryo bwo gusuzuma niba umurwayi yarakize cyangwa ari koroherwa.

Igikoresho gikoreshwa n'abafite ubumuga bw'ingingo, kikaborohereza mu kugenda no kugaruka mu bikorwa byabo bya buri munsi, gifite amapine agendeshwa n'ibyuma bifashe ku mubiri wabo, mu buryo bashobora guhagarara neza no kwicara neza.

Kwiruka binyuze mu gusiganwa mu buryo bwo gukora siporo ngororamubiri, aho abasiganwa birukanka intera y'ibirometero runaka cyangwa se metero runaka zagenwe kugira ngo harebwe uwa mbere n'uwakabiri cyangwa se n'uwanyuma.

Igihe umuntu akanda bimwe mu bice by'umubiri, hakoreshejwe udutambaro twabigenewe, cyane nk'amaboko, ingingo se muri rusange, bityo imitsi, amagufwa n'inyama bikarambuka, amaraso agatembera, ndetse n'ahabyimbye hakabyimbuka umuntu agakira vuba.

Ibyafasha umubiri w'umuntu kumererwa neza: harimo nk'ibipimo, imetero ikoreshwa mu gupima umubiri w'umuntu aho agomba kongera ibiro cyangwa se kurigabanya, icyuma gikoreshwa mu kunanura imitsi n'amagufwa no kuyikomeza, n'imbuto zishobora gutuma umuntu amererwa neza, hamwe n'amazi.

Kurinda intoki cyangwa se ibiganza, hakoreshejwe imyambaro yabigenewe y'intoki n'ibiganza, izwi mu ndimi z'amahanga nka ga, kugira ngo mu gihe umuntu ari gukora ibikorwa bishobora kuba byakangiza intoki ziwe n'ibiganza muri rusange, bitangiza ibyo biganza.

Umurwayi uryamye hasi ariko ugaragara ko afite ikibazo cyo mu mutwe kuko aziritswe amaguru ndetse n'ahandi ku bice by'umubiri kugira ngo adateza ibyago ku bandi.

Kunanura ingingo z'umubiri bizwi mu ndimi z'amahanga nka "Yoga" aho umuntu yunama yongera yunamuka ahina yongera ahinura umubiri nk'amaboko, amaguru, umutwe ndetse n'umugongo.

Itsinda ry'ibikorwa bifasha umubiri w'umuntu kugororoka harimo gukora siporo hananurwa amaguru n'amaboko n'imitsi hamwe n'amagufa, gukoresha amaguru umuntu agenda, guterura ibiremereye mu gukomeza imitsi n'amagufwa.

Gahunda y'ibitaro bikuru bya gisirikare by'u Rwanda biherereye mu mujyi wa Kigali, mu gushishikariza abantu kwitabira kuvurwa ubuzima bwo mu mutwe no kwitabwaho, binyuze mu guhabwa imwe mu miti yabigenewe, n'inama ndetse n'ibikorwa byafasha mu kubungabunga ubuzima bwabo bwo mu mutwe.

Uburyo bwo gukanda umubiri wakomeretse, mu buryo bwo kuvura hakoreshejwe igikoresho gifuhera umuti kiwujyana mu mitsi mu buryo bwo gukira vuba.

Gufasha no kuyobora abafite ubumuga, mu gukora siporo zabo, bananura intege banishima ndetse banisanzura mu buzima bwabo bwa buri munsi.

Abari n'abategarugori na bo bagomba gufata iya mbere mu kwitoza no mu kugira imyitozo myinshi ihagije ku mubiri wabo, kuko ikibazo cy'uburwayi buturuka ku kudakora imyitozo kibugariza cyane.

Umunyeshuri wagize ikibazo cyo kuvunika zimwe mu ngingo cyane cyane ukuguru, aba azanywe n'abanyeshuri bagenzi biwe kwa muganga kugira ngo yitabweho, akaba afite icyuma kimufasha kugorora imitsi ndetse n'amagufwa.

Ibyafasha umubiri w'umuntu kugubwa neza. Harimo ibyubaka umubiri, amagi, ibirinda indwara nk'imbuto n'imboga, imineke, amashu, n'ibindi bitandukanye.

Umubiri w'umuntu ukora imyitozo ngororamubiri, aho adashobora kurwara indwara cyane cyane izitandura zirimo umuvuduko w'amaraso, diyabete iz'umutima n'izindi zitandukanye.

Uburyo bwiza bwo kunywa amazi akeye, atunganyijwe kandi adafite ikizinga ku mubiri w'umuntu, ari mu gikoresho kimeze neza, bifasha umubiri kugubwa neza no kugogora ibiryo cyangwa amafunguro neza.

Imyitozo yo kunanura bimwe mu bice by'umubiri, amaboko, imbavu, umuhogo, umutwe, amaguru, umugongo, ndetse hanyuma umuntu akanywa amazi, kugira ngo igogora rigende neza. Ibi ni bimwe mu bituma umubiri umererwa neza.

Igihe umurwayi asuzumwa, agakorerwa ibizamini bitandukanye, cyane cyane hakoreshejwe ibyuma by'ikoranabuhanga kugira ngo bigere mu mubiri we neza, habonwe ibizamini n'ibibazo by'umurwayi, hagamijwe kubonerwa imiti imukwiriye.

Imiti ibungabunzwe neza, ikaba iri mu bikoresho by'ububiko aho ivura ibikomere n'ibisebe, hakaba hari n'ibipfuko bikoreshwa mu kubika no mu gukiza ibisebe vuba.

Abantu babiri umugabo n'umugore cyangwa se umukobwa, bafite amazi mu icupa mu ntoki zabo bari gukora imyitozo ngororamubiri biruka intera runaka.

Imikino y'amaboko ku mubiri wa muntu ni myiza cyane kuko ifasha imitsi ndetse n'imyakura kugororoka bityo bigatuma umubiri ubasha kumererwa neza. Ni ingenzi cyane kuko iyo umuntu abikora buri gihe bituma adashobora kurwaragurika indwara zitandura.

Amazi meza asukuye atagira ikizinga, ari mu icupa ryiza mu buryo butagira ibara, agafasha umubiri mu kumererwa neza, cyane cyane mu igogora n'amaraso agatembera mu mutuzo.

Umuntu w'igitsina gabo waje ahantu hatari urusaku hatuje akaba arimo kuruhuka anywa amazi, yumva imiziki binyuze muri telefoni kugira ngo aruhure ubwonko bwe n'ubuzima bwe muri rusange.

Umukinnyi ugaragara nk'uwabigize umwuga uri mu kibuga, aho yagize ikibazo cy'imvune, akaba ari kuvurwa na muganga amwitaho, amukanda imitsi, ndetse anamwongerera imiti umubiri we kugira ngo akire vuba ahabwa ubuvuzi bw'ibanze.

Ibikorwa bitandukanye bya siporo ndetse n'imyitozo ngororamubiri bikorwa mu buryo butandukanye, haba guterura ibiremereye, gukoresha amaguru umuntu yihuta ndetse no kujugunya hakoreshwa amaboko no kugenda umuntu ananura intege akoresheje amaguru.

Bimwe mu byafasha umubiri w'umuntu kumererwa neza, higanjemo ibiribwa nk'imbuto zirimo inyanya, itomati muri rusange, ibishyimbo, amashu hamwe n'ibindi birimo ibitunguru. Kandi higanjemo ibikoresho bikoreshwa mu gukora siporo, harimo imyambaro nk'inkweto n'ibindi byakoreshwa mu kunanura imitsi.

Igihe umuntu yiherera agafata umwanya wo gukora imyitozo ye ku giti kiwe, ananura imitsi, imikaya, amagufwa mu buryo bwo kugira ngo umubiri wiwe ujye ku murongo.

Gusuzuma ubuzima bwo mu mutwe, imitekerereze n'uburyo bugenda, hakoreshejwe ibikoresho byabugenewe by'ikoranabuhanga bizwi nka sikaneri, kugira ngo hasuzumwe mu buryo bwiza.

Uburyo bwo kunywa amazi asukuye ari mu gikoresho kimeze neza, cyateguwe hakoreshejwe ibikoresho byabugenewe, amazi akaba yatunganyijwe arimo umuti wabugenewe uzwi nka silo ndetse anatetse agashyirwa mu bikoresho byiza kugira ngo anyobwe.

Inkweto zabugenewe zambarwa n'abakora akazi kavunanye cyane cyane ahari ibyago by'uko bajombwa n'ibyuma ibiti bityo zikabafasha mu kubarinda mu buryo bwo kutangiza umubiri wa me bo.

Kunywa amazi asukuye neza ari no mu gikoresho kimeze neza, agacupa kabugenewe, aho ku munsi cyangwa se buri sa runaka mutanywa amazi kugira ngo umubiri we umere neza, cyane cyane mu bikorwa bivunanye.

Bimwe mu bikoresho bikoreshwa mu kuvura ibikomere, cyane cyane ibyaturutse mu imyitozo ngororamubiri ndetse harimo ibyo bahambiriza ku mubiri wakomeretse, mu byo gukomeza amagufwa n'imitsi muri rusange.

Umusore cyangwa se umugabo. We no gukora imyitozo ngororamubiri, aho akoresha amaguru yiwe, ayahina, ayahinura, mu buryo bwo kunanura amagufwa n'imitsi, ndetse n'imikaya, agakoresha n'amaboko yiwe, hamwe n'umugongo, kugira ngo ubwonko n'umubiri bikorane.

Ibifasha umubiri w'umuntu kumererwa neza harimo imbuto nk'indimu, pome, insenda n'imboga mu kurinda indwara, hakabamo n'ibyafasha gukora imyitozo ngororamubiri ndetse n'ibipimo kureba niba umubyibuho ukabije cyangwa se kunanuka bihagaze neza ku mubiri wa muntu.

Mu cyumba cy'urusuzumiro aho umuganga asuzuma umurwayi agendeye ku byo umurwayi amubwira cyangwa se ibimenyetso binyuze mu ikoranabuhanga.

Umugabo urimo kunywa amazi akoreshejwe igikoresho cy'icupa rimeze neza, akayanywa mu buryo kuruhura umutwe, ubwonko n'umubiri wiwe gukora igogora neza, ibi bikamufasha kugira ubuzima bwiza, haba ubwo mu mutwe n'ubw'umubiri muri rusange.

Ibyafasha umubiri w'umuntu kumererwa neza, kugubwa neza muri rusange, harimo imbuto, inyama, imboga, umutobe wiganjemo isukari n'amazi afasha mu igogora hamwe n'ibipimo byo gupima uburebure ndetse n'ibikoresho by'imyitozo ngororamubiri.

Imyitozo inanura intege, aho umukobwa cyangwa se umwari ananura amaguru, imitsi, amaboko, umugongo n'umutwe, mu buryo bwo kumva ameze neza mu mubiri.

Umusore cyangwa umugabo muri rusange, uri kunywa amazi, ayavanye mu icupa ryiza risukuye kandi amazi atagira ibara, mu kuyanywa kugira ngo akore umubiri umererwe neza.

Umuti wifashishwa mu kuvura ububabare bw'umubiri. Uyu muti ukoreshwa iyo umuntu yakomeretse cyangwa se afite ikibazo cy'umubiri cy'uburwayi, ni bwo awukoresha kugira ngo bimurinde ububabare.

Bimwe mu byafasha umubiri kumererwa neza higanjemo imbuto, imboga ndetse n'ibikoresho bimwe na bimwe byakoreshwa mu myitozo ngororamubiri, bityo bigatuma umubiri hamwe n'ubwonko bikora neza.

Igikoresho gikomeye cyabugenewe gikoreshwa n'abafite ubumuga mu kubakoresha ingendo zabo aho bagiye kandi bigasaba ko bakoresha amaboko yabo.

Amazi meza asukuye mu buryo bwiza akaba atagira ibara cyangwa se ikizinga icyo ari cyo cyose agamijwe kunyobwa kugira ngo umubiri wa muntu ugire ubuzima bwiza.

Igikorwa cyo gusanura ndetse no kuvugurura hamwe mu hagize ibitaro by'Umwami Faisal birereye mu mujyi wa Kigali mu buryo bwo kubibungabunga ndetse no kuzamura aho byakorera, kurushaho guteza imbere ireme ry'ubuzima.

Imiti ya gakondo yiganjemo iy'ibyatsi n'imbuto, mu kuvura indwara zitandukanye, iri kumwe n'igikoresho cyayifasha kuyitunganya, bayisya bakanayihura.

Imiti itandukanye yakozwe mu bimera bitandukanye, igashyirwa mu ducupa twabugenewe kugira ngo ivure indwara zirimo izitandura nka Malariya, Ibicurane n'izindi zitandukanye.

Ishyamba rinini kandi rigari rifite urusobe rw'ibinyabuzima byinshi ariko rikaba ryiganjemo ibyatsi byavamo imiti yo kuvura indwara zitandukanye, zirimo nk'iz'imvune, zo mu nda n'izindi zitandukanye.

Umuti watunganyijwe binyuze mu nganda zabugenewe, ukozwe mu kimera kivura indwara nyinshi kizwi nk'igikakarubamba, ukaba uvura indwara zirimo malariya, izo mu nda nka amibe ndetse n'inzoka muri rusange.

Ubwoko bw'ibyatsi bugaragara mu gihuru, aho abaturage baza kubireba bakabikoresha mu buvuzi bwabo cyane cyane gakondo mu kuvura indwara zitandukanye zirimo nk'imvune, impiswi n'izindi zitandukanye.

Mu gihuru aho hari icyatsi cyangwa se igiti gitoya, gikoreshwa mu buvuzi cyane cyane bwa gakondo, mu kuvura indwara zitandukanye zirimo nki'izo mu nda, amibe, impiswi n'izindi zirimo nk'izi'imvune, haba umubiri ndetse n'amagufwa.

Umuti w'ikimera kiba ku butaka kigahingwa, uzwi nk'ikikakaruhamba, ukaba uzwiho kuvura indwara nyinshi zirimo, nk'izo mu nda, impiswi, amibe n'izindi zose muri rusange, kandi ukaba wanakoreshwa mu gutuma uruhu rw'umuntu rugaragara neza.

Uruvangitirane rw'imiti gakondo cyane cyane ituruka ku mizi y'ibiti, amababi yumye, imbuto zumye, cyangwa se ibivuvu n'ibihu by'ibiti bitandukanye na tangawize, bihurizwa hamwe bikaba byahurwa bikaba umuti utunganye.

Igihingwa cyera mu butaka kizwi na tangawize, kuvura indwara nyinshi zitandukanye, haba nka malariya, nk'ibicurane, izo mu nda nk'amibe n'inzoka, icyo gihingwa kikaba kizwiho no kuvura indwara nyinshi z'umwimerere, haba izandura n'izitandura.

Imwe mu miti ituruka ku bihingwa izwi nk'umuti w'amenyo ndetse ikanafasha ubuzima bwo mu kanwa ibihingwa birimo igikakarubamba kizwiho kugira ubudahangarwa ku mubiri w'umuntu.

Umuti ujyanye n'ubuzima bwo mu mutwe, uhabwa abantu bafite ikibazo cyo kutibanda cyangwa se gukomeza kumva ikigwa.

Umuti wabugenewe, uturuka ku nyamaswa zizwi nk'inzuki, uyu muti ukaba ukoreshwa mu ku kuvura indwara zirimo izo mu nda, umutwe, malariya ndetse n'izindi zi.....

Umuti utunganyijwe neza mu bimera bitandukanye aho ukoreshwa mu isuku y'umubiri, cyane cyane iyo mu musatsi, iyo ukoreshejwe neza bituma imvuvu n'ibindi bizinga biza mu musatsi bikira.

Ibyatsi cyangwa se amababi y'ibiti, akoreshwa mu buvuzi gakondo, ku ndwara zitandukanye, cyane cyane iz'uruhu nk'amahumane, n'izo mu nda zikunze kurwarwa n'abana batoya.

Bumwe mu bwoko bw'ibyatsi, buba mu gihuru, bukoreshwa nk'umuti uvura indwara zitandukanye. Izo ndwara zirimo imvune, indwara zo mu nda, inzoka, impiswi, ndetse n'izindi zitandukanye.

Umuti uri mu gacupa keza, wagenewe kuvura indwara z'uruhu zitandukanye zirimo ibiheri, ibihara, ndetse n'izafata cyane cyane ku mutwe nk'imvuvu, mu buryo bwo kugira ngo umubiri ugaragare neza.

Bumwe mu bwoko bw'imboga, bwifashishwa ku mafunguro yacu ya buri munsi, bityo bikaturinda indwara zimwe na zimwe cyane cyane zitandura, hano harimo amashu ndetse n'izindi mboga nyarwatsi zihingwa zidufasha kumererwa neza.

Amavuta yo kwisiga inyuma ku mubiri w'umuntu aturuka bimwe mu bimera ndetse n'ibihingwa bihingwa mu butaka aya mavuta akozwe mu bihingwa birimo ibikakarubamba, imbuto zitandukanye bityo agafasha uruhu kubobera no gusa neza.

Umuti w'amenyo uzwi mu ndimi z'amahanga nka "Cologate", wagenewe gukoreshwa hamwe n'amazi meza ndetse n'uburoso, ugashyirwa mu menyo hagamijwe gusukura amenyo n'ubuzima bwo mu kanwa muri rusange.

Ibyatsi cyangwa se ibiti bikiri bitoya aho biri mu ngemwe mu buryo byo kubibungabunga bigakura hagamijwe ko byakoreshwa mu kuvura indwara zitandukanye haba iz'uruhu, izo mu nda ndetse n'iz'ibikomere zaturutse ku mvune mu gihe umuntu yakoze nk'impanuka.

Imiti ivura ububabare bw'ingingo n'umubiri aho umuntu aba yakoze ibintu bikomeye, yituye hasi cyangwa yananiwe. Iyi miti imufasha kugabanya ububabare kandi ikanabukiza.

Imwe mu miti ivura indwara zitandukanye ziri mu nk'izo mu nda, Amibe, impiswi n'izindi ndetse n'iz'ibikomere zirimo nk'imvune n'izindi zitandukanye, iteranyirijwe hamwe kugira ngo ishyirwe mu gikoresho cyabugenewe cyo kuyihura kugira ngo itunganwe neza.

Imiti y'umwimerere itandukanye, itarashyirwa mu nganda cyangwa se ngo itunganywe binyuze mu bundi buryo ubwo aribwo bwose, aho yiganjemo amababi y'ibiti aseye, ibivuvu byabyo n'imizi muri rusange.

Amakuru ku miti gakondo n'imicururize hamwe n'imikoreshereze yayo, mu bantu barwaye bafite ibibazo bitandukanye, mu buryo bwo kutangiza imibiri yabo ndetse no kuyikoresha tutiringiye ibyo mu mahanga.

Amavuta yo kwisiga aturuka muri zimwe mu nyamaswa zororwa zizwi nk'inzuki, aya mavuta afasha umubiri koroha ndetse no gusa neza.

Imwe mu miti ikoreshwa mu kuvura indwara zitandukanye hatagombye imiti yatunganyijwe mu nganda, harimo indimu za makare, ibyatsi bitandukanye bizwi nka mucayicayi ndetse n'ibindi bindi.

Umuti uri mu icupa ryiza, aho umeze nk'amazi, ukaba wisigwa ku mubiri w'umuntu, cyane cyane ku ntoki, nyuma yo kuva mu bwiherero, nyuma yo gufata ku byamwanduza intoki, bityo bigakoreshwa mu kwica udukoko tutagaragara two ku ntoki, nyuma yo gukora ibyo bikorwa bitandukanye.

Icyatsi cyangwa se igiti gitoya gikoreshwa mu buvuzi nyarwanda kizwi nk'umuravumba by'umwihariko mu kuvura indwara zo mu nda, imvune no kuvura ibikomere by'igisebe cyangwa se mu gihe umuntu yangijwe n'ibyuma cyangwa ibiti runaka.

Bumwe mu bwoko bw'ibyatsi birandaranda hasi bikoreshwa mu kuvura indwara zitandukanye nk'ibikomere, imvune ndetse n'ibindi, harimo nk'indwara zo mu nda, inzoka, impiswi n'izindi zitandukanye.

Imiti ikozwe mu bimera bitandukanye, igenda igashyirwa mu nganda, hanyuma igatunganywa ikavamo imiti yabikwa igihe kirekire, bakayishyira mu ducupa twabugenewe, kugira ngo ikoreshwe mu buvuzi.

Imiti gakondo ikoreshwa mu buvuzi butandukanye, higanjemo imizi y'ibiti, amababi y'ibiti aseye, ibivuvu cyangwa se ibihu by'ibiti, bikoreshwa mu kuvura indwara zirimo, ubushye, ibikomere, n'imvune.

Mwe ku bikomoka mu bihingwa ndetse na zimwe mu nyamaswa zorwa harimo imiti iva ku bikakarubamba, ku nzuki n'amasabune ava mu bihingwa, akoreshwa mu gusukura umubiri n'aho umuntu akorera mu buzima bwe bwa buri munsi.

Imiti gakondo irimo tangawizi, amacunga, igikakarubamba, ihurwa cyangwa se igatunganywa binyuze mu kuyihonda, agafu kayo cyangwa se ibivuyemo bakayikoresha mu kuvura indwara zitandukanye, zirimo nka Amibe, impiswi n'izindi zitandukanye.

Inzu y'ubucuruzi bw'imiti, aho ufite ikibazo cy'uburwayi butandukanye aza agahabwa umuti, bityo bikamufasha gukira atagiye kwa muganga.

Ubwoko bw'icyatsi bukoreshwa mu buvuzi gakondo, cyane cyane Nyarwanda, mu kuvura indwara zitandukanye, ziganjemo izo mu nda nk'inzoka z'abana, abantu bakuru ndetse n'izindi ndwara zose zifata abantu ku mubiri wabo.

Ibyatsi bibisi biherereye mu gihuru, bikoreshwa mu buvuzi gakondo, havurwa indwara zirimo Amibe, inzoka zo mu nda muri rusange, ububabare, ibikomere n'izindi zitandukanye.

Ibyafasha umubiri w'umuntu kugubwa neza, harimo ibitunguru bifasha umuntu gukira zimwe mu ndwara zo mu nda zirimo nka amibe ndetse n'impiswi, hakaba harimo n'indimu za makare, zivura indwara z'umuvuduko.

Ubwoko bw'ibiti bitoya cyangwa ibyatsi bizwi nk'umuravumba bikoreshwa mu buvuzi cyane cyane gakondo, havurwa indwara zitandukanye nk'iz'imvune, izo mu nda nk'inzoka, amibe n'izindi zitandukanye.

Igikorwa cyo gusya imiti itandukanye ituruka ku bimera cyangwa ibihingwa, aho hakoreshwa umuhini n'igikoresho kizwi nk'isekuru mu kubisya bikavamo ifu ikoreshwa nk'umuti watunganyijwe.

Uburyo iyo ibihingwa byakorewe bikitabwaho bikura neza bitohagiye, bityo bigatanga umusaruro ushimishije kandi uhagije.

Imiti ikozwe mu bimera byabugenewe, aho ishyirwa mu ducupa twiza kugira ngo ikoreshwe mu bihe bitandukanye. Ibi bifasha mu bubiko bwayo ndetse no gutandukanya amoko yayo.

Ibituruka ku buhinzi, bitunganyijwe biseye neza, cyane cyane imbuto, hagamijwe kuvurwa indwara zitandukanye ndetse hagamijwe gufata neza ubuzima bw'umuturage.

Umuti uri mu icupa ryabugenewe ukorwa bivuye mu gikakarubamba hamwe n'ubuki buzwiho kuvura indwara nyinshi zirimo nki, izo mu nda, inzoka ndetse n'izindi zitandukanye.

Gusoroma amwe mu mababi y'ibyatsi, biterwa cyangwa se bikimeza, ariko bikaba bivura, kugira ngo bikoreshwe mu buvuzi gakondo, indwara z'uruhu, zirimo amaheri, ibihara, n'izindi zitandukanye.

Imiti y'ibyatsi ikiri mibisi ikoreshwa mu buvuzi cyane cyane gakondo, harimo: igikakarubamba, umwenya, indimu ndetse n'iyindi ikoreshwa havurwa inzoka zirimo: nk'izo mu nda, imvune, ibicurane, amibe n'izindi zitandukanye.

Ibyiganjemo ibirinda indwara, harimo indimu na tangawise. Ibi bifasha umubiri w'umuntu, kutagira indwara cyane cyane, izitandura zishobora kumwangiza no kumugera mu mubiri we.

Isoko aho abaturage bakora urujya n'uruza rwo kugura no kugurisha ibicuruzwa bitandukanye, cyane cyane hagaragara imiti iri mu ducupa no mu bikoresho byabugenewe, yaba iyatunganyijwe cyangwa se n'ikiri mibisi ishobora kuvura indwara zitandukanye.

Ibyatsi cyangwa se ibiti bitoya bizwi nk'imbuhu mu kinyarwanda, bigakoreshwa mu kuribwa ndetse hanavurwa zimwe mu ndwara zirimo nk'izo mu nda, iz'imivuduko y'amaraso, Diabete no gutuma umubiri ugenda neza.

Imiti itandukanye ikozwe mu bimera by'amoko atandukanye, aho iba iri mu macupa y'ubwoko butandukanye ayitandukanya n'andi kugira ngo ihabwe abarwayi bakire bagire ubuzima bwiza bitewe n'indwara zabo.

Umuti witwa reishi wabugenewe wo kuvura indwara ya amibe cyangwa se izwi nk'inzoka izonga abantu mu nda, ikabarya ikanababuza kugira bimwe mu biryo batarya, uyu muti ukaba uyivura mu buryo bwiza kandi buboneye.

Imiti ituruka mu bimera bitandukanye, cyane cyane igikakarubamba n'imbuto zihingwa, ifasha mu kuvura indwara zitandura mu buzima buzira umuze.

Umuti uzwi nka serumu, ufasha abarwayi cyane cyane abagize ikibazo cy'amaraso mu mubiri, mu kohereza umuti bagenewe mu mubiri wabo bityo bagakira bitagendeye ku maraso yabo yonyine ahubwo hifashishijwe n'uyu muti waseru.

Umuti w'amenyo uzwi nka korogate ukozwe mu bimera, cyane cyane igikakarubamba, ugafasha amenyo mu gukomera no mu gutuma ashashagirana. Uyu muti ukoreshwa hamwe na korogati binyuze mu kuborosa amenyo akererana.

Ubwoko bw'ikinyobwa, buturuka ku bihingwa bizwi nk'ikahwa. Iki kinyobwa kiranyobwa, kikavura ubuzima bwa muntu cyane cyane ubwo mu mutwe, ibijyanye n'imitekerereze, ndetse n'imigenzereze y'umubiri wa muntu.

Gahunda y'ubukangurambaga yo gushishikariza abaturage kugabanya ibiro ku babifite, binyuze mu kurya indyo yuzuye, kunywa imiti, n'ibikomoka ku byatsi byinshi, nk'ubuki ndetse no kunywa amazi, hamwe na siporo.

Umuti watunganyijwe neza binyuze mu nganda zabugenewe, ugashyirwa mu gacupa cyangwa se mu gikoresho cyo kuwubika nyuma yo gutunganywa, ahasigaye ugahabwa abarwayi batandukanye bitewe n'indwara zabo.

Ahacururizwa imiti itandukanye yakozwe mu nganda ikomoka ku bimera, irimo nk'ivura inzoka zo mu nda, ibicurane, za rubagimbande, iyi miti irizewe ku buryo uyinyoye akira.

Imiti Nyarwanda cyangwa se nyarwatsi ikomoka ku bimera bitandukanye, aho ijyanwa gutunganywa, igaserwa, igakoreshwa mu buvuzi bwa gakondo, ku barwayi b'indwara zitandukanye.

Amababi y'ibyatsi bibisi ari mushyamba, akoreshwa nk'umuti gakondo cyane cyane Nyarwanda, mu gutuma uburwayi runaka bwibanda cyane ku mvune n'inzoka zo mu nda bukira.

Amababi cyangwa se ibyatsi by'umuti bihingwa bigamijwe kuvanwamo imiti itandukanye, ivura indwara zitandukanye, cyane cyane indwara zitandura.

Ikinyobwa gitunganye kiri mu icupa ryiza ryabugenewe rifite ibara ry'umutuku, aho gikoreshwa mu kukinywa cyane cyane ku bafite ikibazo kijyanye no kutamera neza k'umubiri, bigatuma ubwonko n'umubiri bihuza.

Imiti y'ibyatsi ikunze kuba mu gihuru, ivura indwara zitandukanye by'umwihariko indwara y'imvune, aho uwagize igikomere, uwavunitse ahabwa iyi miti mu buryo bwo kumukiza, iyi miti ishobora kunyobwa cyangwa se komekwa ku gikomere runaka.

Umwihariko wo kubungabunga amoko y'ibyatsi atandukanye, aho bigemekwa mudukoresho twabugenewe turimo, utudobo tumeze neza, kugira ngo bizakure no kugira ngo bidakendera, ku isi hose.

Umuturage ugaragara arimo gusoroma ibyatsi by'imiti ikoreshwa mu buvuzi gakondo, aho abijyana akabitunganya binyuze mu ku bihonda no mu kubihura, bityo bigatunganywa bigakoreshwa mu kuvura indwara zitandukanye zirimo nka amibe, umutwe n'izindi zitandukanye.